Ikirangantego cya UN kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu cyari cyanditse mu nyuguti nkuru UN munsi yaho handitse WF na P, ku mpande cyari gikikijwe n'utuntu tumeze nk'uturabo dukozwe mu ibara ry'umweru.

Umwana muto uri mu kigero cy'imyaka umunani n'icumi yari kuvoma amazi afite agakombe gafite umuhondo ku ivomerero yari amavomeraro abiri yose ari kuzaho amazi meza afite agakombe mu ntoki yambaye agapira k'umutuku ndetse yiyogosheshe afite agasatsi gake.

Abaganga bakiri batoya bari mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu n'itanu bari bahuriye ahantu hamwe nyuma yo gukora akazi kabo bose bari bambaye impuzankano z'imyeru ndetse abari babasuye nabo bari bambaye baje mu ijosi zigaragaza icyo baje gukora aho ngaho, bose bari bafite akanyamuneza mu maso kandi nyuma yabo hari hari icyapa cyanditse mu nyuguti z'umweru kigaragaza icyo baje gukora.

Mu nyubako yo kwa muganga hari harimo abaganga batatu b'abagore bari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu ndetse na mirongongo ine, bari bari kwandika mu gitabo cyo kwa muganga bandikamo abaje kwivuza, bose bari bafite uruhu rwirabura.

Abanyeshuri bato b'abakobwa, bari mu kigero cy'imyaka umunani, ndetse n'imyaka cumi n'itatu, bari bari ku ivomero bari gukaraba intoki, bose bari bambaye impuzankano, bafite, bambaye ishati y'umweru, ndetse n'amajipo hasi n'inkweto z'umukara.

Mu cyumba kiberamo inama, hari hari habereyemo inama zigiye zitandukanye, ku meza bari bicayeho yasaga umukara hagiye hicayeho abantu bagiye batandukanye, ndetse bari bicaye no ku ntebe zisa ubururu imbere bari bari kubereka ibyo bari kuganiraho.

Ku mugezi umubyeyi umwe ari kuvoma ariko yabanje gukorera isuku ibikoresho yari afite n'indobo afite isa umuhondo ndetse n'umufuniko wayo usa umutuku, ariko igitangaje ni uko yari ahetse n'umwana kandi ari gukora ibyo byose gusa we nta kibazo yari afite.

Mu nzi nini mberabyombi haberamo inama hari habaye inama, abari bicaye aho bari bicaye ku ma meza adekoyeho igitambaro cy'umweru ndetse buri wese imbere yari afite agatabo ari kwandikamo kandi gasa ubururu, bari bambaye impuzankano z'icyatsi z'imipira y'icyatsi ndetse n'iy'umweru.

Ku ivomero hari hari abantu benshi mu ingeri zose. Hari harimo n'umusaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi, abana bato bari mu kigero cy'imyaka icumi na cumi n'ibiri, ndetse n'ingaragu ziri hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo itatu n'ishanu, bari gufashanya kugira ngo babashe kuvoma. Hari hari ibikoresho bari gukoresha, harimo n'ijerekani isa umuhondo.

Abanyeshuri batoya bari mu kigero cy'imyaka icumi ndetse na cumi n'itanu, bari bari ku ishuri, bari bari kujya ku bigega butoya bwagenewe kujyamo amazi meza kandi asukuye, buri wese yari afite igikombe cye ari gukoresha avoma amazi yo kunywa, bose bari bafite akanyamuneza mu maso kandi bishimye.

Akaba gato k'akanyeshuri kari hagati y'imyaka umunani ndetse na cumi n'biri, kari kari gukaraba intoki kari ku ishuri kambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'ishati y'umweru. Kuruhande hari harimo aho bajugunya imyanda isa n'icyatsi, ndetse hari icyapa cya UNICEF n'abaterankunga.

Kwa muganga umugore uri mu kigero k'imyaka mirongo itatu na mirongo itatu n'itanu, yari yazanye akana ke gato kari mu kigero cy'amezi atanu kwa muganga, umuganga wari uri ku mufashe kumuvura yari yambaye impuzankano y'umweru na iniforume yo kwa muganga, bose bari bafite akanyamuneza mu maso ubona ko bishimye.

Umubyeyi w'umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu, yari avuye ku ivomero kuzana amazi, yari yikoreye ijerekani ya ritiro makumyabiri, iri mu ibara ry'umuhondo. Ni umubyeyi ufite uruhu rwirabura, iruhande rwe hari hahagaze utwana tubiri, agakobwa n'agahungu bari kumureba.

Umugore uri mu kigero k'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, ufite akanyamuneza mu maso, ufite uruhu rwirabura yari yambaye akagofero, ari gukaraba intoki kuri kandagira ukararabe ikozwe mu buryo butagezweho cyangwa se mu buryo gakondo.

Hubatse inzu nziza pe, nubwo ari nto ariko ni nziza, zubatse neza zifite amabara meza, dore ko inzugi zazo n'amadirishya bayasize amarangi asa ubururu, zose kandi ziri mu gipangu zubakiye neza nta kibazo zifite.

Umwana muto w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'itanu yari ari ku ivomero ari gukaraba intoki, yari afite akanyamuneza mu maso ari guseka yishimye, ku ruhande rwe hari hari amajerekani batwaramo amazi ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'indi iri mu ibara ry'ubururu.

Ku ivomero, abana bato bari mu kigero cy'imyaka itanu kugera ku kigero cy'imyaka makumyabiri, bari baje kuvoma harimo utwana duto cyane twari twaje buri muntu wese yari afiteta igikoresho aje gutwara mo, ku ruhande hari akana k'agakobwa kambaye umupira w'umuhondo, ndetse n'akajipo k'umutuku, nako kari kaje gutwara amazi.

Ibikoresho dufatiraho amafunguro burya n'ingenzi kubikorera isuku, yari amaze kubitunganya aba abyanitse ku zuba kugirango udukoko twaba turiho twose dupfe twishwe n'ubushyuhe bwo ku zuba, hanyuma aza kubyanyura.

Umwana muto uri mu kigero cy'imyaka itandatu ndetse n'umunani yari ari ku ivomero ari koga mu maso ndetse no mu mutwe, ni akana gafite uruhu rwirabura gafite akanyamuneza mu maso, kari kari ku vomero kari gufatisha amazi mu kiganza kakayisuka mu mutwe.

Umusaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu n'itanu yari yagiye ku ivomero kuvoma. Yari afite ijerekani ya ritiro makumyabiri yagiye kuzanamo amazi. Yari afite akanyamuneza mu maso yasetse yishimye, ndetse ku ruhande rwe hari hari ubusitani butoya, buteyemo indabo z'icyatsi.

Mu cyumba cy'uruganiriro hari habaye inama ishingiye ku bukangurambaga bujyanye n'ubuzima, hari harimo abantu bo mu ngeri zose abagore ndetse n'abagabo, hari hahagaze inyuma abantu bashobora kuba bari babuze aho bicara ndetse hagati muri bo hari harimo umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine wambaye umupira w'ubururu ushobora kuba ari gutanga amahugurwa.

Abajyanama b'ubuzima bari bicaye hamwe bari kuganira bungurana ibitekerezo, bafatanya kugira ngo bashakire ikibazo umuti bari bafite kuri ibyo bitaro, buri wese yari ahawe ijambo akajya agenda avuga uko abyumva ndetse baje kugera ku mwanzuro mwiza.

Mu nyubako yo kwa muganga, hari harimo abantu ndetse hari harimo imashini nini zikoreshwa mu buvuzi ziri mu ibara ry'umweru, hari harimo umugangakazi wambaye ingofero ndetse n'agapfukamunwa, mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu matembabuzi.

Akana gato k'akabanyeshuri kari kari gukaraba intoki mu rwego rwo kwirinda umwanda, kari kambaye iniforume z'abanyeshuri kari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe mu ibase isa umuhondo ndetse n'indobyo iturukamo amazi isa umutuku.

Mu nyubako y'uruganiriro harimo kubera ibiganiro bishingiye ku buzima harimo abantu benshi, imbere hari harimo abantu batandatu bari kuganiriza abitabiriye, harimo ama kamera ari gufata amajwi n'amashusho, ndetse hari harimo n'abantu benshi bazi gutega amatwi y'iyo nama.

Mu cyumba cy'uruganiriro hari habaye inama yari yahuje abayobozi mu ngeri zigiye zitandukanye, bari bicaye ku meza ifite ibara rya shokora ndetse imbere yabo hari hari ibikoresho bari kwifashisha muri iyo nama, hari harimo abagabo n'abagore babiri bari bari kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuzima.

Umwana mutoya w'umukobwa uri mu kigerok'imyaka umunani na cumi n'itatu, yari yagiye kuvoma mu mugezi, ahantu mu cyaro yari afite isherekani y'umuhondo, umwana yari umwana ufite uruhu rwirabura rw'igikara ariko atari igikara cyane.

Ku ivomero hari haje abana bari mu kigero k'imyaka itandatu ndetse na cumi n'ibiri, bose baje kuvoma, bari bafite ibikoresho bari butwaremo amazi, utujerekani dutoya twa litiro enye ndetse na litiro eshanu, bari ubwana bwinshi buri wese ari gufasha mugenzi we kubasha kuzana amazi.

Ivomero abana batoya bari baje kuvoma, bari mu kigero cy'imyaka itatu ndetse n'itandatu, hari umuntu mukuru umwe muri bo uri kubafasha kugira ngo amazi aze, bari bambaye uturenge, uwo muntu mukuru yari yambaye umweru n'umukara.

Icyapa kigaragaza Nothen Caroline global health alliance cyanditse mu magambo y'umukara mu nyuguti nkuru, gifite n'ikirangantego cyayo gikozwe mu ibara ry'umuhondo ryijimye ndetse n'irindi ry'ubururu rijya kwandika nk'inyuguti ya na.

Ni mu cyumba cy'uruganiriro hariri kuberamo inama ijyanye n'ubuzima uku abantu bakita ku buzima, imbere y'abantu bari bateze amatwi hari abantu batandatu bari kubagezaho ikiganiro mbwirwaruhame, muri icyo cyumba cy'inama hari harimo amakamera afata amajwi n'amashusho ndetse abari barimo aho bose bari bateze amatwi.

Mu nyubako yo kwa muganga, hari harimo abagabo batatu b'abaganga, bose bari bambaye impuzankano yo kwa muganga, babiri muri bo bari bambaye isa ubururu, ndetse bose bari bahuriyeho ko bambaye udupfukamunwa, ndetse n'ingofero zo kwa muganga. Undi yari yambaye impuzankano isa umweru, inyuma yabo hari ama mashini ndetse n'ibindi bikoresho bikoresha, bakoreshwa mu buvuzi.

Ni inama yari yahurije hamwe abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye, bari kurwanya icyorezo cya marbug mu Rwanda. Hari harimo inama yahuje minisitiri ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Imbere hari abagabo babiri bari kubagezaho imbwirwaruhame, ndetse n'uburyo bagomba gushishikariza abaturage kwirinda icyo cyorezo.

Ikigo cy'amashuri buri munyeshuri wese yambaye impuzankan ye, buri wese mbere yuko yinjira mu kigo arabanza agakaraba intoki kuri kandagira ukarabe mu rwego rwo kwisukura ndetse no kwirinda imyanda n'indwara zigiye zitandukanye bashobora kwanduzanya.

Kwa muganga abantu bagiye batandukanye higanjemo abantu b'igitsina gore inyuma yaho hari ibyapa bigiye biriho amashusho agaragaza ibintu bigiye bitandukanyekanwe, ndetse na serivisi zitangirwa kwa muganga bari bicaye hamwe mu gihe bari bategereje kwakirwa na muganga.

Mu cyumba cy'uruganiriro hari kuberamo inama, harimo abantu b'ingeri zose abagabo n'abagore, imbere yabo hari amashini, mudasobwa bari gukoresha muri iyo nama buri wese imbere ye afite agacupa k'amazi kugira ngo aze gusomaho mu gihe yaba agize inyota.

Inyubako isukura amazi yubatswe mu buryo bwa kijyambere nini kandi ngari, inyuma yayo hari hari indi nyubako isakaje amabati y'umutuku, iyi nyubako ifite utubariko dusa ubururu ndetse amarangi yayo yiganjemo umweru, ku ruhande hari hari abantu bashinzwe kuyicunga ndetse bareba n'uko ikora.

Abajyanama b'ubuzima b'abagore, bari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu ndetse na mirongo itanu. Ahari bari bahuriye hamwe. Hari harimo abagabo bakeya na bo babafasha mu kunoza akazi kabo. Bari babahaye impuzankano y'utujiri turi mu ibara ry'icyatsi, hariho amagambo agiye yanditse mu tubara tugiye dutandukanye. Bose bari bafite akanyamuneza mu maso.

Abana babiri umwe mu kigero cy'imyaka itatu ndetse n'undi uri mu kigero cy'imyaka icumi bari bagiye kuvoma. Urabona ko ari abana bo mu cyaro ariko umukuru yari yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'umuto na we yambaye umukara. Urabona ko ari abana bo mu cyaro bose basa ufite uruhu rwijimye ni urubuga rw'abirabura.

Abana babiri batoya b'abahungu bari mu kigero k'imyaka itandatu ndetse n'umunani, bari bari ku ivomero bari gukaraba intoki, bose bari bafite akanyamuneza mu maso, umwe yari yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye imyenda idoze mu bitenge ishati n'ipantaro byose bisa.

Nari namujyanye kwa muganga bisaba ko babanza kumukorera ibizamini, muganga wamuvuye yari yambaye udupfukantoki dusa umweru ndetse agiye kumutera urushinge kugira ngo amufate amaraso, abashe kumusuzuma ndetse no kumukorera ibizami aze kuduha umwanzuro.

Mu cyumba cy'uruganiriro hari habaye inama yahuje abaganga ku bijyanye, n'ibibazo by'abarwayi bagiye batandukanye. Hari harimo abaganga b'ingeri zose abagabo ndetse n'abagore, biganjemo abafite uruhu rw'abazungu. Inyuma hari hari icyapa cyanditseho unicef nk'umuterankunga mukuru, w'icyo gikorwa, ndetse hari hari n'andi magambo yanditse mu nyuguti z'umweru.

Umugore uri hagati y'imyaka mirongo itatu na mirongo ine yari yagiye kuvoma amazi ahantu mu gishanga, inyuma ye hari hari umusore uri koza igare, umugore yari yambaye agapira k'umuhondo yambaye n'ijipo yari afite igikoresho agiye kuvomeramo amazi gisa umuhondo.

Inyubako zitangaje zubatse mu buryo utapfa gusobanukirwa, zubatse mu buryo bw'ibizeru, nyinshi zikikijanye, ku mpande zombi hagiye hariho ubusitani bugiye butandukanye, ndetse n'imihanda ibasha kuzigeraho neza.

Mu migezi hari harikuza amazi menshi. Ni ahantu mu gishanga hagara nkaho hatagezweho, ahantu kure cyane y'umujyi. Hari hari umusore urigukaraba intoki. Ayo mazi yari amazi meza kandi agatembera mu yandi mazi y'isoko. Ku ruhande rw'uwo mugezi hari hari ibyatsi byinshi ubona ko hadaheruka gukorerwa isuku.

Mu cyumba cy'uruganiriro hari habereyemo inama yateguwe na unicef, hari harimo abaganga b'inzobere, bashinzwe kwita ku bana ndetse no ku bundi buzima busanzwe, inyuma hari hari icyapa kigaragaza umuterankunga mukuru ariwe unicef, ndetse inyuma nanone hari televiziyo nini, iri kugenda yerekana amajwi n'amashusho.

Hari habaye ubukangurambaga bwo kurwanya indwara zigiye zitandukanye nyuma hari haje abantu benshi ndetse bari bubatse ihema abantu bari bicayemo, nyuma y'ubwo bukangurambaga abantu barahuye barasabana bari abantu benshi kandi bose bari mu kigero cy'imyaka imwe hagati y'imyaka mirongo itatu kuzamura kugera kuri mirongo irindwi, bose bari bafite akanyamuneza mu maso.

Nyuma y'amahugurwa yari yabaye yahurije abantu benshi hamwe, yiga ku buzima, uko wakirinda indwara ndetse n'ibindi, habaye igikorwa cyo gufata ifoto, abaganga bari bambaye impuzankano nk'ibisanzwe, amataburiya asa umweru, ndetse n'abandi bari baje, bari bambaye uturangantego mu ijosi cyangwa se baji mu ijosi, zemerera buri muntu wese kwinjira muri ayo mahugurwa, inyuma yabo hari hari icyapa kigaragaza igikorwa cyari kiri kubera aho.

Inyubako yo kwa muganga, umugore mu kigero cy'imyaka mirongo ine yari yaje kuhivuguruza ari kuvurwa n'umuganga ukiri muto uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri ni'itanu, ari kumutera urushinge ubona yarutinye cyane, bose bari bambaye utwenda two hejuru dusa umweru, inyuma ye hari hahagaze undi muntu.

Kuri iryo vomera abantu abenshi cyane bari bategereje kubona amazi, amazi yazaga ari menshi buri wese afite indobo ye, mbega ntabwo hari akavuyo ahubwo buri wese yategega ko umugenzi we arangiza kugira ngo nawe akurikizweho aze kuvoma.

Umuganga w'umugore uri mu kigero k'imyaka mirongo ine n'itanu na mirongo itanu, yari yagiye mu bukangurambaga bwo kurwanya SIDA, bakangurira ko SIDA igihari dukwiye guhagurukira kuyirwanya, umusore uri mu kigero k'imyaka makumyabiri n'itanu yari yaje kwisuzumisha kugira ngo arebe uko umubiri we uhagaze.

Abaturage benshi bahuriye ahantu hamwe, biganjemo ab'igitsina gore ndetse harimo n'abagabo bake, bari bahuriye hamwe, iruhande hari hateye ihema bari bicayemo mu gihe bari barimo kuganira, hari harimo abagore bahetse, abana, abagabo ndetse n'abantu bakiri bato.

abakozi n'abakoresha bo kwa muganga bose bari bahuriye hamwe, bari bafite akanyamuneza mu maso, hari harimo abakora mu rwego rw'isuku ndetse n'abandi bakora mu nzego zigiye zitandukanye. Bose bari bafite amatelefoni yabo mu ntoki kandi bafite akanyamuneza bishimye.

Abaganga bari mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu abasore bane ndetse n'umukobwa umwe bose bambaye impuzankano zo kwa muganga bari bicaye hamwe imbere yabo hateretse imiti y'amoko agiye atandukanye arimo uducupa twamabara agiye atandukanye.

Icyapa kigaragaza imiryango myinshi itegamiye kuri Leta, ijya ifasha abaturage mu bintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, nko kwita ku buzima, gufasha abatishoboye, abahuye n'ibiza, ndetse n'abita ku buzima mu kurwanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda.

Mu cyumba cy'uruganiriro hari habereye inama igiye itandukanye yiga ku buzima, hari harimo abagabo benshi bateraniye hamwe buri wese imbere ye yari afite akarahuri karimo ji, cyangwa amazi, bari bicaye ku meza ariho igitambaro gisa cyatsi, kandi buri wese imbere ye yari ahafite ikayi ari kwandikamo ibintu by'ingenzi byigiwe aho ngaho.

Ubukangurambaga bw'ubuvuzi bwo mu kanwa, aho abaganga bari baje kwegera abaturage kugira ngo babashe kubasuzuma ndetse no kubapima indwara zigiye zitandukanye zandurira mu kanwa. Hari abaganga bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu ndetse n'udupfukantoki ndetse n'udupfukamunwa. Iruhande hari abantu bategereje bose ko baza gufashwa.

Umwana uri mu kigero cy'imyaka irindwi ndetse n'umunani bari bari kumwikoreza ijerekani y'amazi, umugabo ari mu myaka hagati y'imyaka mirongo itanu ndetse na mirongo itanu n'itanu wambaye agapira k'uburu ndetse n'ingofero y'ubururu hariho ikirangantego cya unicef yari ari kumwikoreza ijerekani y'amazi, imbere yabo hari umukobwa w'umuzungukazi wari uri kubafata amashusho, n'inyuma yabo hari hahagaze abandi bantu.

Abana babiri b'abahungu batoya bari mu kigero cy'imyaka itandatu ndetse n'umunani, bari bari ku ivomero bari gukaraba intoki, bose bari bafite agasatsi gato, kandi bari bafite uruhu rwirabura, bari bafite akanyamuneza mu maso, bishimye, bari guseka.

Ku kigo nderabuzima hari hari abantu bagiye batandukanye, hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akikijwe n'abantu bari mu ngeri zose, abakuru, ndetse n'abatoya, higanjemo ab'igitsina gore, ndetse n'igitsina gabo, ariko bose bakuru.

Akana gato kari hagati y'imyaka ine n'itandatu kari kari gukaraba intoki kuri robine mu rwego rwo kurwanya umwanda, kari kambaye ishati isa umutuku ndetse ako kana kari gafite uruhu rwirabura, hari hari icyapa cyanditseho WASAC kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Ku nyubako yo kwa muganga yubatse mu buryo bugezweho ariko itageretse, ifite imirasire y'izuba hejuru ku gisenge, isize ibara ry'ubururu, hanze hari habereye inama y'abantu bakeya, bicaye ku ntebe, bari kuganira hari harimo n'umudaso umwe.

Kwa muganga, umuganga uri hagati y'imyaka mirongo itatu ndetse na mirongo ine, yari ari kuvura umwana muto w'umukobwa uri hagati y'imyaka umunani ndetse n'icumi, yari ari kumutera urushinge, ndetse inyuma ye hari abandi bantu bategereje nabo kwivuza bari ku murongo.

Icyapa kirimo amabaragi atandukanye, cyerekana imibare yo mu rwego rw'ubuzima muburinganire bw'abagabo n'abagore, ndetse imibare isobanuye mu buryo bwijanisha mu mabara agiye atandukanye, ahagaragara mu mabara y'ubururu, amabara y'umuhondo, icyatsi, ndetse nandi agiye atandukanye.

Ubukangurambaga bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe. Abagore babiri b'abirabura bari bateruye utwana twabo bagiye kwa muganga kureba umuganga ushinzwe indwara zo mu mutwe, ari kubaganiriza ndetse no kubigisha uko bajya bafata abana babo, kugira ngo batazagira ikibazo cy'ihungabana cyangwa se bakaba batakaza.

Ubukangurambaga bw'indwara zo mu mutwe bwari bwateguwe n'Ikigo cya RBC, inyuma yaho hari hari ibyapa bigiye bigaragaza abafatanyabikorwa RBC ndetse na Repubulika y'u Rwanda, hari hariyo umugore uri gutanga ikiganiro uri hagati y'imyaka mirongo ine na mirongo itanu, wari wambaye ikoti ry'ubururu ndetse n'umugabo iruhande rwe wambaye agapfukamunwa ndetse wambaye na kositimu y'umukara.

Mu cyumba cy'uruganiriro hari habaye inama abagore benshi bahuriye hamwe, bahagaze, bafite akanyamuneza mu maso, hari harimo abazungu, ndetse n'abirabura, bari bicaye ku meza hariho igitambaro gisa umweru, ndetse buri muntu wese imbere ye hari hatetse agacupa k'amazi.

Umuntu ufite ikibazo byo mu mutwe, yari yambaye imyenda utamenya ubwoko, imisatsi idasokoje, asa nabi, yicaye hasi, ubona ko byamucanze, yari afite ibintu byinshi ku ruhande rwe byose biriho umwanda biragaragara.

N'umugabo uri mu kigero k'imyaka mirongo ine wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati irimo amabara atukura, yari ari gusuhuza undi mugabo nawe uri mu kigero k'imyaka nka mirongo itatu cyangwa mirongo itatu n'itanu, bigaragara ko yambaye imyenda yacitse nk'aho afite ikibazo cyo mu mutwe, yari ari ku musuhuza kugira ngo abashe kumuha ubufasha bujyanye n'ikibazo cyo mu matwi yari afite.

Abanyeshuri bato bari mu kigero cy'imyaka itanu ndetse n'umunani, bambaye impuzankano z'umuhondo, bafite akanyamuneza mu maso bari bishimye bari bahuriye ahantu hamwe, bose bari bari gukoma mu mashyi bagaragara n'abishimye cyane, bafite akanyamuneza.

Umubyeyi ukiri muto uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu yari atereye akana keza bose mu maso yabo bari bishimye akana kari kari mu kigero cy'amezi ane ndetse nicyenda bose mu mumaso yabo bari bafite akanyamuneza

Umwana muto uri mu kigero cy'imyaka ine n'itandatu, yari ari ku ishuri ari kurya akabiswi yicaye, umwana mutoya w'igikara, ufite udusatsi dutari twinshi yari yambaye ishati y'umweru na karuvati ya buresiyeri.

Yarasekaga, yari yishimye pe. Yari umusore wambaye agapira k'umuhondo, afite imibiri yombi, utari igikara cyangwa inzobe cyane, muremure. Yari yishimye ari guseka mbega ubona yizihiwe kuri uwo munsi.

Wari umunsi wahariwe ubukangurambaga bw'indwara zo mu mutwe, umwe mu baganga yari yatanze inama z'ukuntu bashobora gufasha abantu, bakaba bakirinda indwara zo mu mutwe, zikubiyemo ababiterwa n'ibibazo byo mu muryango, ubukene, cyangwa se ibindi bibazo bahura nabyo mu buzima busanzwe.

Ubukangurambaga bugiye butandukanye bwo kuvura indwara zo mu mutwe, abaganga bari begereye abaturage baje kubafasha kugira ngo babasuzume kandi ku buntu, hari hari abaganga bari kugenda bafasha buri muturage bakumva ikibazo cye, umwe yavaho hakaza undi, bose bari bambaye udupfukamunwa dusa ubururu.

Nyuma y'akazi bahurira ahantu hamwe, abaganga bashinzwe kuvura ibijyanye n'ubwonko bari kwifotoza, ndetse bafata n'ifoto y'urwibutso, hari higanjemo abasore n'inkumi bari hagati y'ikigero cy'imyaka mirongo itatu na mirongo ine.

iyo nzu mberabyombi, abaganga bari basuye abaturage bafite ikibazo cyo mu mutwe, bari kubasuzuma buri wese bareba urugero agezeho rwo kuba yakira. Bari bari kugenda babaganiriza, yari sale yuzuye ubona ko buri muntu wese yacecetse kandi yitonze ari gukurikira kugira ngo arebe ikibazo mugenzi we afite.

Abana bato bari mu kigero cy'imyaka itanu kugeza ku myaka cumi n'ibiri bari bahagaze hamwe bafite utujerekani bagiye kuvoma, bose bafite uruhu rwirabura ndetse bose mu maso bafite akanyamuneza, bishimye ubona ko nta kibazo.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine na mirongo ine n'itanu, wambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare afite uruhu rwirabura, yari ahagaze inyuma ye hari abantu benshi ndetse hari n'ibindi bishushanyo by'ingagi inyuma ye.

Mu nzu mberabyombi iberamo inama hari habayemo inama ijyanye n'imitekerereze y'ubwonko, hari hateraniye abantu benshi bo mu ngeri zose abasore ndetse abagabo n'abagore. Bose bari bateze amatwi bakurikiye. Inyuma yabo ku ruhande hari hari ekara ntoya cyangwa se televiziyo banyuzagaho amashusho.

Urubyiruko ruri hagati y'imyaka cumi n'umunani na makumyabiri n'itanu bateraniye hamwe, bose bambaye impuzankano umupira usa ubururu, ugiye wanditseho amagambo agaragaza igikorwa bari barimo bari kumwe n'abayobozi babo.

Twari twizihiwe, turi kuganira, dufite urwenya, duseka, twari twicaye hamwe, buri wese ateze mugenzi we amatwi kugira ngo yumve icyo ari kumubwira ndetse twese tugatanga ibitekerezo ku cyo twari turi kuganiraho.

Ubukangurambaga bwashishikarizaga abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe, umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine na mirongo itanu yari ari gutanga imbwirwaruhame, iruhande rwe hari abandi bagore bamuteze amatwi ndetse bakurikiye.

Mu nyubako y'uruganiriro bari bari kuganiriza abagore bagiye batandukanye bari mu kigero cy'imyaka igiye itandukanye, ku cyapa cyari gihari hari hari idarapo by'igihugu cy'u Burundi ndetse n'Amerika, handitseho amagambo agiye atandukanye mu nyuguti z'umweru.

Ubukangurambaga bujyanye n'indwara zo mu mutwe burangiye, abari bateranye bose barahagurutse bafata ifoto y'urwibutso, inyuma yaho hari hari icyapa cya unicef nk'umuterankunga w'icyo gikorwa, bose uko babonaga yaba ari abagabo ndetse n'abagore bari bafite akanyamuneza mu maso.

Abakobwa babiri b'urungano, bari mu kigero kimwe, bari hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu ndetse na mirongo itatu, bose bafite uruhu rwirabura, bari bari kuganira, umwe yari yifashe ku mutwe nk'ufite ibibazo bari kumuhumuriza, undi yamufashe ku kuboko kugira abashe kumuhumuriza neza.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu ndetse na mirongo ine, wambaye agapira gasa umweru, ufite akanyamuneza mu maso, wishimye uri guseka. Yari afite akadodo gatoya k'umweru, ari kugacisha amenyo, yari yagashyize mu menyo ye kandi ntago ari byiza ko wafata urudodo ngo urushyire mu menyo, kuko rushobora kuba rwagutera ibibazo ndetse rugashobora no kuba rwagukata.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo ibikoresho byinshi kandi byiza bikozwe mu buryo bugezweho. Iyo nyubako yari yubatswe mu buryo bugezweho, ni inyubako igeretse kandi ni inyubako irimo ibikoresho byinshi bifite amabara y'umweru byose, yaba ari ibyo muganga akoresha mu buvuzi ndetse n'udutebe yicaraho turi mu ibara ry'ubururu ryerurutse.

Abana bato b'abanyeshuri bari mu ishuri, bambaye impuzankano ndetse na mwarimu wabo, bari bahawe udukoresho tw'isuku bakoresha bari koza amenyo yabo, mu bukangurambaga bwari bwahabaye bubashishikariza kugira isuku ndetse n'isuku yo mu kanwa muri rusange.

Abakobwa babirime umwe ndabona ni umuzungu undi ni umwirabura, bari kuganira inyuma y'inama barizihiwe ndetse inyuma yabo gato ku ruhande hari imeza idekoyeho amabara y'ubururu ndetse hateretseho n'amazi yo kunywa bafite impapuro z'umweru mu ntoki urabona ko bishimye ntakibazo.

Akana gato k'agakobwa karimo kigero k'imyaka ine n'itanu kari kagiye kwa muganga w'amenyo kugira ngo agasuzume arebe niba nta kibazo gafite, umuganga wari uri kumuvura yari yambaye amazankano y'udupfukantoki tw'umweru ndetse afite ibikoresho bigiye bitandukanye ari gukoresha mu kavura, kari kishimwe kandi gafite akanyamuneza mu maso.

Umusore rero mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu mirongo itatu, ufite agasatsi gake, w'imibiri yombi, uri guseka ufite ibyishimo mu maso, yari afite akadodo mu kanwa ari kugahekenya, ari guseka, ari kwireba mu kirori.

Abaganga b'indwara z'amenyo bari bateraniye hamwe, bari bari mu ngeri zitandukanye, abasore ndetse n'abakobwa. Bose bari bari hamwe bishimye bafite akanyamuneza mu maso. Inyuma yabo hari hari icyapa kigaragaza imirimo bakora, ndetse bari bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umuganga wambaye utupfukantoki turi mu ibara ry'ubururu, yari ari gusuzuma indwara y'amenyo ku murwayi, yari afite igikoresho mu ntoki areberaho ibibazo umurwayi yaba afite, hari hari amashusho agiye atandukanye yafotoye mu kanwa k'uwo murwayi kugira ngo abashe kubona uko amufasha.

Abanyeshuri batoya bari ku ishuri bari mu kigero cy'imyaka umunani ndetse n'icumi bari mu ishuri ryabo aho bigira, bose bari bishimye bafite akanyamuneza, kandi bose bari bambaye impuzankano z'ikigo bigaho, bose bari bicaye ku ntebe zo mu ishuri ryabo.

Yari yishimye pe umusore mwiza cyane w'inzobe wambaye ishati nziza shati y'ikoboyi y'ubururu ndetse n'agapira ka shokoramo imbere, yari afite ubwanwa aseka neza, yogoshe neza.

Kwa muganga umwana muto w'umukobwa uri mu kigero k'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'ine, yari yagiye kureba muganga w'amenyo. Umuganga w'amenyo wari uri kumuvura yari yambaye udupfukantoki dusa umweru, ndetse n'impuzankano yo kwa muganga, iri mu ibara ry'ubururu. Yari yambitse uwo mwana na we imyenda y'abarwayi isa icyatsi.

Umusaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu n'itanu na mirongo irindwi, yari kwita ku menyo ye, yari agiye mu rukarabiro aho yari agiye gufata uburoso ndetse na korogate, agasukura amenyo. Ni umusaza kandi ufite umusatsi wahindutse imvi, wambaye amarinete, ufite uruhu rutijimye cyane.

Mu nyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ku ruhande hariho akabati gakozwe mu mabara y'umweru ndetse n'igikoresho umuganga akoresha ari kuvura umurwayi na cyo gikoze mu ibara ry'umweru, intebe umurwayi yicaraho ndetse na muganga biri mu ibara ry'umuhondo ndetse hejuru ku gikuta hari hamanitse n'isaha.

Umusore ukiri mutoya ari hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu ndetse na mirongo itatu, wambaye agapira k'umweru, ufite ibyishimo mu maso, wasetse, afite amenyo y'umweru, afite akadodo gatoya, yari ari gushyira ku menyo ye.

Mu cyumba cy'umurwayi kwa muganga uvura amenyo, umusore uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu n'itanu yari yagiye kwivuza amenyo, umuganga wari uri kumuvura yari yambaye udupfukantoki dusa ubururu, ndetse uwo mugabo yari afite akanyamuneza mu maso ari guseka, ndetse na muganga ari kumufasha.

Kwita ku buzima bwo mu kanwa ni ingenzi cyane, hari habaye igikorwa ndetse n'ubukangurambaga bwo gushishikariza abantu kwita ku ndwara zo mu kanwa, ni ukuvuga kugira isuku irambye mu kanwa, ukaba umaze kurya, umaze gukora ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma mu kanwa hasigara amamikorobe, wahakorera isuku, ukaba wakwiborosa, hari abana benshi bo mu ngeri zigiye zitandukanye baje guhugurwa kugira ngo babashe kwita ku buzima bwabo bwo mu kanwa.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa na muganga w'amenyo mu gihe arikuvura umurwayi, harimo icyuma akoresha iyo arikumurika mu kanwa ndetse harimo n'ibindi byuma bigiye bitandukanye akoresha mu gihe arikuvura cyangwa se arigukura amenyo cyangwa se no mu gihe arikuyoza ayakorera isuku.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu ndetse na mirongo itatu, ufite umusatsi uringaniye ufite uruhu rwirabura, yari yambaye agapira k'umweru, yari afite akanyamuneza mu maso, afite akadodo gatoya k'umweru ari kukaruma ari kwireba mu kirori.

Umusaza wari ari mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi na mirongo inani ufite umusatsi wahindutse imvi z'uruyenzi bari barimo kumukorera isuku bari kumukarabya umubiri wose amazi meza ndetse n'isabune, yari ari gukarabira mu ibasi isa ubururu.

Ababyeyi batatu b'abagore bari bari hamwe, bafite akanyamuneza mu maso, bari guseka, bishimye. Bari bari gukina amakarite, bari bayafite mu ntoki. Bose bari bafite akanyamuneza, bari bari guseka, ubona ko nta kibazo na kimwe bafitanye hagati yabo.

Kwa muganga umugabo uri mu kigero k'imyaka mirongo itandatu yari yaje kwivuza, yari ari kuvurwa n'umugangakazi w'umugore ufite imisatsi myinshi ndetse yari yambaye impuzankano yo kwa muganga, yari ari kumushyiramo icyuma kibasha kumupima umuriro afite ndetse n'uko umubiri we uhagaze muri rusange.

Umukecuru uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu n'itanu, bari bari kumwitaho bamufasha ko yabasha gufata imiti, yari afite ikirahure cy'amazi, iruhande rwe hari agakarito gato cyane gasa umuhondo karimo ibinini, uwari uri kumwitaho ni umugangakazi mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu, wambaye impuzankano yo kwa muganga, iri mu ibara ry'ubururu ryerurutse.

Kwa muganga musaza w'imvi z'uruyenzi yari arwaye ariko ari gufashwa yari gukore uturimo dukeya tw'amaboko aterura icyuma kugira ngo yumve ko imbaraga zimuje mu biganza umugore uri kumufasha yari yambaye imyenda y'imituku ndetse afite n'akoma gapima umutima mu ijosi.

Mu nyubako yo kwa muganga umugabo uri mu kigero k'imyaka mirongo itanu n'itanu yari yaje kwivuza, hari umuzungukazi wambaye impozankano y'ikigo isa ubururu ndetse yifubitse agapira kajya gusa umwera, yari ari kumwitaho ndetse ari no kumufasha gutambuka, bose bari bafite akanyamuneza mu maso.

Abagore babiri bari mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi ndetse na mirongo itandatu n'itanu, bari barimo gukora siporo; imisatsi yabo yahindutse imvi, bari bafite akanyamuneza mu maso kandi ubona bishima.

Abagabo babiri bari mu kigero cy'imyaka mirongo itanu na mirongo itandatu, bari barimo gukora siporo, bose bari bambaye imyenda ya siporo, umupira w'umweru, ndetse n'amapantaro y'umukara, bose mu mumaso yabo bari bafite akanyamuneza ubona ko bishimye, ndetse mu ntoki bari bafite uducupa tw'amazi.

Mu cyumba cy'umurwayi kwa muganga, umurwayi uri hagati y'imyaka mirongo irindwi na mirongo inani w'umugabo wambaye imyenda y'imweru ndetse ku ruhande hahagaze umuganga uri kumufasha, ari kumuvura na we wambaye impuzankano isa umweru, ku ruhande hari hari imashini zifashishwa mu kumuvura zigiye zitandukanye.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi ndetse na mirongo irindwi n'itanu ari kumwe n'umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu n'itanu bari kureba muri telefone imbere yabo hari hateretse imiti iri mu ducupa tw'umweru ndetse n'uruhande rwabo hari amazi meza mu kirahure.

Umukecuru n'umusaza bari bicaye hamwe, umukecuru w'imvi z'uruyenzi ndetse n'umusaza w'imvi z'uruyenzi. Umusaza yari arwaye agiye kubanza gufata imiti afite ikirahure cy'amazi ndetse n'imiti mu ntoki, umukecuru ari kumwereka ukuntu yajya afata iyo miti, bose n'ubwo umwe yari arwaye ariko afite akanyamuneza mu maso.

Umubyeyi w'umu mama yicaranye n'undi mubyeyi muto cyane w'umukobwa, uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu, uwo mu mama na we uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu n'itanu, bari bari kuganira; umu mama mukuru ari gukata imboga, zirimo amashu ndetse na karoti. Imbere yaho hari hari agasorori gato kadafite ibara. Bari bari kuganira, buri wese afite akanyamuneza mu maso.

Abantu benshi bafite ubumuga bw'amaguru ntabwo bazi gukoresha udukoresho tugiye dutandukanye, ariko urabona ko abizi, azi kugendera kuri kano kuma kamufasha kugenda ndetse hari n'umuntu uri kumufasha amutoza ndetse amwereka n'uko yagakoresha kandi urabona ko rwose bameze neza barimo kwishima, barishimanye.

Umuryango w'abantu batandatu, papa na mama bageze mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu n'itanu, abana babo ku ruhande, harimo akana gato kari mu kigero cy'imyaka itandatu, bose bari bafite akanyamuneza mu maso, bishimye, basetse, banezerewe.

Ababyeyi batatu b'aba mama bafite imisatsi yahindutse imvibi z'uruyenzi, bari mu kigero cy'imyaka mirongo itanu n'itanu ndetse na mirongo itandatu n'itanu, bari bafite akanyamuneza mu maso bari kwifata ifoto y'imbere, bakoresheje telefone yabo. Bose bari mu kigero kimwe, kandi bari bishimye bari guseka.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo umugore w'umuzungukazi ndetse n'umugabo w'umwirabura, wambaye agapira k'umukara, yari ari kwa muganga yagiye kwivuza, aho umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu yari ari kumufasha kugenda ndetse no kumenyereza ingingo ze.

Umusaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi ari kwitabwaho n'umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine. Ari kumufasha kugenda, kubera ko ageze mu za bukuru ntabwo yari afite imbaraga zo kubasha kwigendesha, bari bari kumufasha kugira ngo abashe kugenda.

Umuganga uri mu kigero k'imyaka mirongo ine, ari kuvura umusaza uri mu kigero k'imyaka mirongo irindwi yari yambaye imyenda y'abaganga isa rouge bordeaux yambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse yambaye n'udufugantoki dusa umweru.

Umukecuru uri mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi, yari gufata imiti kwa muganga bamwandikiye. Yari ayifite mu ntoki ndetse afite n'ikirahure cy'amazi mu ntoki. Inyuma ye hari hari ibindi bikoresho bisanzwe byo mu rugo akoresha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Umubyeyi w'umumama uri hagati y'imyaka mirongo itandatu n'itanu ndetse na mirongo irindwi n'itanu, yari ari kwita ku bagize umuryango we, ari kubaha ibyo kurya bakeneye harimo imboga ndetse n'ibinyampeke, ku ruhande rwe hari hari umugabo we na we ugeze mu zabukuru.

Umusaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu n'itanu ndetse na mirongo irindwi n'itanu, yari kwitabwaho n'umukobwa w'umuforomokazi muto cyane uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu ndetse na mirongo itatu, umukobwa yari yambaye impuzankano zo kwa muganga ari kwita kuri uwo musaza ugeze mu zabukuru, urabona ko bose bari bafite akanyamuneza mu maso kandi bishimye.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo umugabo ufite kigero cy'imyaka mirongo itandatu ndetse na mirongo irindwi, ndetse n'umuganga wari uri kumuvura uri mu kigero k'imyaka makumyabiri n'itanu mirongo itatu, wambaye impuzankano isa ubururu ufite agakoresho mu ijosi bakoresha bari kwa muganga.

Ababyeyi babiri bari mu kigero cy'izabukuru, bafite imisatsi yahindutse imvi z'uruyenzi, bari bari kuganira ariko umubyeyi w'umumama ari gufasha umusaza kuko afata imiti yandikiwe na muganga, yari yamuhaye ikirahure kirimo amazi ari kumwereka ko agomba gufata imiti ye.

Yari agiye gufata imiti kwa muganga bamwandikiye, umukobwa wari uri kuyimuha yari yambaye agapira gasa ubururu. Yayimuhaye yishimye kugira ngo amufashe kuyinywa neza. Yari yabanje kumuha amazi mu kirahure ndetse ari kumushyirira imiti mu kiganza kugira ngo abashe kuyinywa.

Umugore ugeze mu zabukuru uri kigero k'imyaka mirongo itandatu na mirongo irindwi n'itanu, wambaye agatambaro mu mutwe, ishati y'umweru ndetse n'igitenge cy'umuhondo, ku ruhande rwe yari atetse mu isafuriya y'umukara ku mashyiga gakondo ari gutekesha inkwi.

Umusaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi ufite uruhu rwirabura ufite umusatsi wabaye imvi z'uruyenzi wambaye ishati y'icyatsi kijimye ndetse yifubitse n'umupira w'imbeho, yambaye amarinete yari ari kwandika utuntu mu gakayi ke afite akanyamuneza mu maso kandi ubona yitonze atuje.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi na mirongo inani, yagiye kwa muganga, bari kumusuzuma, bari bamushyizeho agakoresho kamufasha kumupima uko umubiri we uhagaze, ni ukuvuga bari kumupima umuriro yaba afite, bari kureba ikigero ahagazeho.

Bari bishimye kandi bari kuganira. Bose ukibabona bari bafite akanyamuneza mu maso. Ni abagore batanu ndetse n'umugabo umwe bari bicaye hamwe barikuganira barigutera urwenya. Baraganiriye biratinda bose bafite akanyamuneza ku maso ndetse n'ubwana butoya buhari nabwo bwari bwishimiye kuba aho hantu.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi na mirongo inani, wifashe ku gahanga, ufite uruhu rwirabura, wambaye ishati yijimye ya shokora, afite ibitabo imbere ye ari gusoma. Mu isura ye ntabwo yari yishimye, ndetse no ku ruhande rwe hari hateretse ikirahure.

Mu nyubako yo kwa muganga umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu n'itanu ndetse na mirongo itandatu, yari yaje kwivuza ari kuvurwa n'umugangakazi wambaye impuzankano yo kwa muganga iri mu ibara ry'ubururu bwerurutse, yari ari kumufasha gutambuka, ari kumuha ibyuma bimufasha kugenda, yari yambaye umupira w'umweru.

Abakecuru bari hagati y'imyaka mirongo itandatu ndetse na mirongo irindwi, bari mu kigero kimwe bose bari bari gusarura imiti igiye itandukanye ifite amababi y'icyatsi, bose bari bafite akanyamuneza kabo mu maso, bari bafite igitebo bari bari gusoroma bashyiramo.

Mu cyumba cy'inama, hari habereyemo inama, abantu benshi bari bayitabiriye, bari bicaye ku ntebe zisa umutuku, iyo nyubako yari ifite amarangi meza, umutuku ndetse n'umuhondo. Bari bayicayemo, hari abantu b'ingeri zose, abagore n'abagabo bose bavanze.

Bwari ubukangurambaga bwo kwita ku buzima abantu benshi bahuriye hamwe, inyuma y'aho bari bahagaze hari hari icyapa cyanditse mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, ku ruhande rw'iburyo hari hari umuntu ushinzwe umutekano uzwi nka daso wambaye imyenda y'icyatsi, abari aho bose bari bari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu ndetse na mirongo ine.

Mu cyumba cy'uruganiriro hari habaye inama yiga ku kuntu abantu bagomba kwirinda ndetse no guhagarika icyorezo cya maribogi, inyuma hari hari icyapa kibigaragaza ko iyo nama yari yabaye ku itariki makumyabiri z'ukwa cumi, ibihumbi bibiri na makumyabiri na kare, imbere hari abagabo babiri bari gutanga imbwirwaruhame n'ukuntu ibyo bintu byose bigomba gukorwa, ndetse no gushyirwa mu bikorwa.

Hari ubukangurambaga bujyanye n'ubuzima, itsinda rinini ryiganjemo abagabo batanu ndetse n'abagore babiri bari baje guhugura abaturage ku bijyanye n'ubuzima, uko bakiyitaho, uko bakwirinda indwara zimwe na zimwe, umwanda ndetse n'ibindi.

Umunsi mukuru wahariwe kwizihiza ho munsi w'ibidukikije ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri na kane, byari byanditswe mu mabara y'icyatsi ndetse ikirango cyabo nacyo cyari kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru wijimye.

Mu cyumba cyo kuganiriramo hari kuberamo inama harimo abantu bari bitabiriye, imbere y'abo bantu hari abantu batanu bari kubagezaho ikiganiro mbwirwaruhame, ndetse hari hari n'abandi baje gukurikira, bose bari bari mu ngeri zigiye zitandukanye, abagabo n'abagore.

Ubukangurambaga bwari bwabaye bwo kwirinda kanseri y'ibere, urubyiruko rugiye rutandukanye rwari rwaturutse ahantu hagiye hatandukanye bose bambaye udupira tw'umweru bafite ibirango bigaragaza igikorwa barimo cyo kurwanya kanseri y'ibere rya byanditse mu amagambo y'umweru.

Ikirangango cya RBC cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda cyanditswe mu nyuguti eshatu R ikaba yanditse mu nyuguti y'ubururu B ikaba yanditse mu nyuguti y'umuhondo ndetse na C yanditse mu nyuguti y'icyatsi, hasi hagaragaza icyo bakora ko ari ibijyanye n'ubuzima bw'abantu.

Kwa muganga aho bakorera isuzuma ry'ubuzima, mu bice bigiye bitandukanye, umuganga yari gufata ibizamini wambaye ishati y'umweru, ndetse n'akajiri inyuma gasa umutuku, ku ruhande hari abandi barwayi, ndetse n'abandi baganga, nabo bambaye iniforume, yari ari kuvura umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu, wambaye umupira w'umukara.

Mu cyumweru cyahariwe ubukangurambaga bwo kwerekana uko imiti igenda ikoreshwa, umwe mu baganga witwa Dr Gahamanyi na we yari ari muri abo ngabo batangaga inama ndetse n'ubutumwa bugufi mu buryo abantu bagakwiye gukoreshamo imiti, byari byabaye hagati ya taliki cumi n'umunani na makumyabiri n'enye zo ukwa cumi na kumwe, mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Ubukangurambaga bwo kwita ku buzima bwa muntu kandi ukabwitaho neza, abakobwa bari mu kigero cy'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'itanu ni bamwe mu bari bitabiriye ubwo bukangurambaga, bari bari gufata amafoto y'urwibutso, bafite ibirangantego by'iyo nama yari yabahurije aho.

Ihererekanwabubasha ryabaye hagati y'abaminisitiri babiri minisitiri Dogiter Sabin Nsanzimana ari guhererekanye ububasha n'uwo yari asimbuye ku nshinga. Inyuma yabo hari ikirangantego kigaragaza repubulika y'u Rwanda, bari guhana inyandiko ndetse n'amasezerano akubiye mu masezerano mashya buri wese n'inshingano agiye gukora.

Hari habaye inama ya makumyabiri ku cyorezo rya virusi itera Sida muri Afurika, hari hateranye abantu bagiye batandukanye bari mu ngeri zose abagabo ndetse n'abagore, imbere hari hari abantu batanu bari kubagezaho ubutumwa abandi bose bateranye ndetse n'inyuma yabo hari hari icyapa kigiye kiriho amagambo asobanura igikorwa cyabahurije aho.

Ubukangurambaga bwari bwabaye, bujyanye n'ubuzima, uko abantu bakita ku buzima. Nyuma y'aho, abayobozi bari baje gutanga ubwo bujyanama ndetse n'amahugurwa, bafashe ifoto. Inyuma y'aho hari hari icyapa cyanditse mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu , kigaragaza Minisiteri y'Ubuzima, ndetse na Repubulika y'u Rwanda.

Icyapa cyangwa se ikirango kigaragaza ivuriro runaka rigiye ripima ibintu bigiye bitandukanye ariko ibyinshi bikubiyemo gukansoringa abantu, cyari gifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, mo imbere hashushanyijemo idarapo ry'u Rwanda.

Ku nyubako yo kwa muganga hari habaye ubukangurambaga bugiye butandukanye ku ndwara zigiye zitandukanye, abari baje muri ubwo bukangurambaga, bari babahaye udupira bose dusa, dufite ibara rya pink, bari bambaye kandi n'udupfukamunwa turi m'ibara ry'ubururu, hari hari abantu bingeri zose, abagabo, abagore, ndetse n'abana batoya.

Ikirango cyangwa se icyapa kiranga ibimenyetso by'indwara ya diyabete, cyanditse mu mabara y'umukara, ndetse n'imbere mu kirango hagiye harimo amabarage atandukanye y'ubururu, ndetse agaragaza n'indwara ya diyabete, aho ibyo bimenyetso bigiye birimo.

Mu cyumba cy'uruganiriro hari hari kubera inama itandukanye yiga ku bushakashatsi bujyanye n'ubuzima, hari harimo abantu benshi bagiye batandukanye baje kubwirwa, kumva iyo mbwirwaruhame. Imbere hari hari abantu batandatu, bari kubagezaho iyo mbwirwaruhame ndetse imbere hari abandi bakurikiye.

Mu cyumba cy'inama hari hari kuberamo inama, umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu n'itanu ari kugezaho abateranye imbwirwaruhame, imbere ye hari kamera irimo isa umukara, iri gufata amajwi n'amashusho kugira n'abicaye inyuma babashe kumva.

Mu nyubako yo kwa muganga bakunze kuvurira abana hari hari udukinisho tw'amoko agiye atandukanye turi mu mabara y'umuhondo, umutuku, icyatsi, iyo nyubako yubatse mu buryo bugezweho ifite amatara meza kandi yari idekoye mu buryo buri muntu wese yakwishimira kuba ahari.

Iyo nyubako yo kwa muganga, hari harimo abarwayi, bo mu ngeri zitandukanye, buri muntu wese aryamye ku gitanda cye. Iruhande rwabo hari hari imashini zikoreshwa mu buvuzi, ndetse bari bambaye n'ibyuma, bibongerera umwuka. Buri wese yari ari iruhande rwa mugenzi we, hateretse n'amazi.

Ikigo nderabuzima cya Kinyinya byanditse mu mabara y'umweru, kikaba ari ikirango kihagaragaza, ni inyubako nini yubatse mu buryo bugezweho, igeretse kabiri ifite amabara y'umweru ndetse isakaje amabati y'ubururu, iruhande hari ibendera ry igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako yo kwa muganga isize amabara y'umweru ndetse afite n'amatara meza. Harimo ibitanda by'abarwayi ku ruhande ndetse n'aho bakirira abantu. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye birimo n'ibyo bakoresha mu buvuzi ndetse n'aho bakirira abaje babagana.

Legacy hospital ni ibitaro byubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere ku buryo uhageze wese abona ko ari ibitaro biri mu ishusho nziza. Ukinjira uhita ubona ahantu bakwakirira hubatse neza mu buryo butangaje. Amatara yaho na yo ni meza. Igisenge cy'inzu na cyo ni kiza cyane.

Mu nyubako bakoreramo siporo, ni inyubako irimo ibikoresho byinshi kandi bigezweho, ifasha buri muntu wese waje gukora siporo; muri iyo nyubako hari harimo ibikoresho byiganjemo ibyo gufasha kwirukanka, kunanura amaguru amaboko ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Imbere ya buri gikoresho hariho televiziyo ntoya igaragaza ibirometero, ushobora kwirukanka, mu gihe uri gukoresha icyuma cyo cyagenewe gufasha abantu kongera umuvuduko bagendaho.

Kwa muganga, umuganga wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa k'umweru ndetse n'ingofero yo kwa muganga isa ubururu, yari agiye kuvura akana gato k'agahinja kari hagati y'ibyumweru ndetse n'amezi atatu na mama wako ufite uruhu rwirabura.

Aho inyubako yo kwa muganga ubu bacuruza imiti cyangwa se azwi nka farumasi hafite izina ryitwa Mediasor Pharmacy iherereye i Kanombe hari harimo abantu bari baje kugura imiti. Ni farumasi irimo imiti igiye itandukanye kandi ivura indwara zose zigiye zitandukanye.

Kwa muganga mu nzu yo kwa muganga mu nyubako yaho hari harimo igikoresho banyuzamo umuntu kugira ngo abashe kumusuzuma indwara zigiye zitandukanye bifashishije ibikoresho kabuhariwe mu kuvumba abantu ndetse no gusuzuma abantu ariko bishingiye ku ikoranabuhanga.

Ni uducupa twinshi turi hamwe tubika amaraso bakoresha iyo bagiye guha umurwayi amaraso, twari uducupa twinshi, bari badushyize hamwe. Iruhande rwaho inyuma, hari hari abarwayi bagiye bategereje ko muganga aza akabitaho, akaba yabatera amaraso.

Ibitaro bya Kabgayi bifite umuhanda muremure ugere aho umuntu yivuriza, hanze hahagaze umuntu ndetse n'umunyonzi uri kwinjira mo imbere, harimo ibiti birebire by'amatara ndetse n'ubusitani mo imbere.

Inyubako yo kwa muganga bafatiramo ibizamini by'abarwayi yubatse mu buryo busanzwe atari inyubako zigezweho, isize amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, ibirango biyigaragaza byari byanditse mu nyuguti nkuru zisa mu ibara ry'ubururu.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho byiza bigezweho ibikoresho bifite ibara ry'umweru, mashini bakoresha mu kwandika abaje kwivuza, hari ibikoresho byiza bigezweho bya elegitoronike birangwa n'amabara y'umweru.

Imiti y'amoko yose yari itondetse neza, buri muti wose uri mu gakarito ku buryo byari byoroshye kuwuhereza umurwayi uwugusabye, etajeri byari biriho yari ikozwe mu mabara meza y'umweru ndetse n'ubururu bwijimye.

Inyubako yo kwa muganga ikikijwe n'imashini nyinshi yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amatara atamurika cyane. Buri mpande zose iburyo n'ibumoso hari hariho imashini ziri kuri buri ruhande zigiye zikozwe mu buryo bumeze kimwe.

Inyubako yo kwa muganga yubatse mu buryo bigezweho ariko itageretse, ifite amabara meza anogeye ijisho. Hanze hari udutebe abaje gushaka serivisi bicaraho turimo ibara ry'umutukudu, ndetse n'icyapa kigaragaza serivisi zitangirwa kuri iryo vuriro.

Inyubako bakoreramo siporo hagiye harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bakoreraho, ibyo bakoreraho bicaye, ibyo bakoreraho bahagaze, ibyo baterura, ni inyubako nini irimo ibikoresho byinshi kandi yubatse mu buryo bugezweho, imbere hari ama ekara bareberaho uko bari kugenda bakora siporo.

Inyubako yo kwa muganga, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byiganjijemo imashini zo kwa muganga, bikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bugezweho, ku ruhande hariho akandi kamashini, hejuru yako hariho agateleviziyo gatoya, kagaragaza ibikorwa muganga aba ari gukora ku murwayi.

Ku nyubako yo kwa muganga yubatse mu buryo bugezweho kandi igeretse, hanze hari ubusitani buteyemo indabo z'amoko agiye atandukanye, ifite uturabo tw'umutuku ndetse n'icyatsi, hanze ku bitaro hari hari abantu ndetse hari hari n'umuganga wambaye impuzankano yo kwa muganga iri mu ibara ry'umweru, abarwayi bari bategereje ko bahabwa serivisi baje gushaka.

Inyubako kwa muganga yubatswe mu buryo bugezweho, hari harimo ibikoresho byiza byose byinshi byari byiganje mu ibara ry'umweru, aho umuganga yicara, ibikoresho akora ari kumurika ndetse n'ibyo akora akoresha arimo kuvura.

Inyubako yo kwa muganga yubatse mu buryo butandukanye, igereretse inshuro eshatu, ifite amabara agiye atandukanye, hanze yaho hari icyapa kigiye cyanditswe mu mabara y'ubururu ndetse harimo n'ibindi bigaragaza serivise batanga byanditse amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, hanze hari hari abantu bari kuganira ndetse haparitse n'imodoka.

Mu nyubako yo kwa muganga umwana muto uri mu kigero cy'imyaka ine n'itanu yari yaje kwivuza, umuganga w'umusore ukiri mutoya uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu, ni we uri kumwitaho, yari yambaye impuzankano yo kwa muganga iri mu ibara ry'umweru, umwana bari bamwicaje ku gitanda cy'abarwayi ariko ku ruhande rwabo hari uwari waje kuvuza uwo mwana w'umusore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu bose bari bafite akanyamuneza mu maso.

Ibitaro bya Shyira bigiye byubatse mu mabara agiye atandukanye, bisakajwe n'amabati ajya gusa umutuku, bisize amarangi y'umuhondo, ndetse amadirishya yabyo asize amarangi y'umukara, mo imbere harimo rido isa umweru.

Inyubako yo kwa muganga, umuganga w'umukobwa ukiri muto ari mu kigero cy'imyaka makumyabiri na mirongo itatu yari ari kuvura, yari yambaye impuzankano isa ubururu, ari kuvura umurwayi wari uryamye ku gitanda cy'abarwayi gisasheho amashuka y'umweru.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo ibitanda by'abarwayi bigiye bitandukanwa n'ibitambaro hagati na hagati, kugira ngo umurwayi atabasha kubangamira mugenzi we. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ama mashini bakoresha, amatara yaka cyane kugira ngo afashe umuganga kuvura; ndetse mo imbere hari harimo umugangakazi uri kwita ku barwayi.

Mu nyubako yo kwa muganga, hari harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Hari harimo igitanda umurwayi aryamaho iyo yaje kwivuza, gishashe mu mashuka y'umweru. Iruhande hari hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu buvuzi, ndetse hejuru y'aho gato, hari hari televiziyo ntoya ibafasha kuvura ndetse no kureba mu bice by'imbere by'umurwayi.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo abaganga benshi bose bambaye imyenda ibarinda ko hagira ikintu runaka kibabaho harimo ibitanda by'abarwayi imashini zo kwa muganga, iyo nyubako yari isize amarange y'umweru ndetse amarido yayo asa ubururu.

Mu nyubako yo kwa muganga hagiye harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, amamashini avura, amateleviziyo agaragaza uko umurwayi ahagaze mu buryo bw'amashusho ndetse n'imashini zifata ibizami zisa umweru ndetse iyo nzu na yo ikaba yari iteye amabara y'umweru.

Ku bitaro bya Ruhengeri ni inyubako nyinshi kandi zubatswe mu buryo bugezweho, imbere yabyo kuri ibyo bitaro hari ubusitani bunini buteyemo indabo ndetse hari n'igipangu kinini gikorutiriye ibyo bitaro, imbere yaho hari umuhanda, hari abagenzi benshi bari kugenda ku muhanda.

Mu nyubako yo kwa muganga abantu benshi bari bicaye hanze bategereje ko babitaho, hari abarwayi benshi, bari bambaye bose udupfukamunwa, mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu macandwe ndetse n'amatembabuzi, bose bari bategereje ko babaha serivisi baje gushaka ku bitaro.

Ni inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye hari harimo ibitanda by'abarwayi bisashe mu mashuka y'icyatsi kijimye ndetse ibyo bitanda bikozwe mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu. Impande ya buri gitanda hanyuma akabati bagenda babikamo ibikoresho by'abaganga bigiye bitandukanye.

Ibitaro bya nyarugenge ni ibitaro byubatswe mu buryo bugezweho, uhinjiye wese ahita abona ko ari ibitaro byubatse neza, bisize amabara y'umweru, ndetse ikihagaragaza ni uko byanditswe mu nyuguti nkuru, kandi nini buri wese abasha kubona. Ni ibitaro hanze yaho harimo ubusitani ndetse na parikingi nini, umuntu abasha guparikamo imodoka.

Mu bitaro bya Rwamagana hari haje abantu bagiye batandukanye harimo abazungu, abirabura, abagore n'abagabo, bose bari bambaye amabaji mu ijosi ziberekana ko baritabiriye igikorwa cyari cyabaye, ni ibitaro byubatse mu buryo bugezweho kandi bufite amabara meza.

Mu nyubako yo kwa muganga mu cyumba cyagenewe kuvura indwara zijyanye n'amaso, inyubako yubatse mu buryo bugezweho, ukinjira ubona intebe abarwayi baje gutegereza serivise bicarahoraho. Yari idekoye mu buryo butangaje, harimo ibipirizo by'umweru ndetse n'ubururu, ku gikuta hashushanyijeho ijisho rigaragaza ko ari cyo kihakorerwa.

Inyubako yo kwa muganga itarajyamo ibikoresho byose bakoresha gusa uko byagaragaraga yari icyumba cyahariwe siporo ndetse n'ibijyana nayo hakubiyemo n'imiti, hari harimo agatebe gato karambuye abantu bazajya bicaraho ndetse imbere hari hari icyapa kigaragaza ko ari inyubako yagenewe siporo ndetse n'imiti ijyana nayo, impande zayo ku ruhande hari hari ibindi bikoresho byo kwa muganga.

Inyubako yo kwa muganga, buri muntu wese wari uri aha ari mu nshingano ze. Bamwe bari kuganira ndetse bungurana ibitekerezo, undi mukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu, wambaye imyenda y'ubururu yijimye, na we ari kugenda kugira ngo ajye gufasha abandi.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe umurwayi yicaraho mu gihe ategereje ko ahura na muganga ziri mu moko agiye atandukanye, izifite amapine bashobora gushyiramo uwamugaye adafite ubushobozi bwo kwigenza n'amaguru akaba bamushyiramo, akagendera muri zo, ndetse n'izindi ziri mu bundi bwoko ziri mu mabara y'umuhondo ashobora kuba yakicaramo.

Ni inyubako yo kwa muganga abantu benshi bari baje gushaka serivisi zijyanye n'ubuzima ndetse no kwivuza. Ni inyubako isize amarangi y'umweru ndetse isakaje amabati y'umutuku. Ikaba ari inyubako yubatse mu buryo bugezeho kandi ifite ubusitani bunini.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, muganga akoresha ari kuvura. Hari harimo umuganga w'umusore ukiri muto uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu; imbere ye hari hari imashini nyinshi akoresha ari mu buvuzi; ndetse ku ruhande hari hari utubati abikamo ibikoresho.

Inyubako yo kwa muganga yubatswe mu buryo bugezweho, yometseho amabuye agiye atandukanye ubona ko itangaje mu myubakire yayo. Ifite ubusitani bunini kandi ifite inzira nyabagendwa y'abagenzi nini. Imbere yaho hari hari abaganga babiri barikunyuraho ku ibaraza ryaho bambaye impuzankano zo kwa muganga.

Umuganga w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu na mirongo ine, wambaye umwenda w'umweru, ufite agakoresho ko kwa muganga mu ijosi, ufite n'igikoresho cya elegitoronike mu ntoki, ari kuganira n'abaturage, inyuma ye hari umwana uri mu kigero cy'imyaka cumi na cumi n'itanu.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo igitanda cy'umurwayi gisa umukara ndetse ibikoresho bigiye bigiye bigikoze biri mu mabara y'umweru, ku ruhande harimo akabati babikamo amadokima gasa umuhondo ndetse no ku ruhande hari ahantu bakarabira intoki, mu rwego rwo kugira isuku.

Kuri centre de sante ya gisenyi hari hari abantu benshi baje kwivuza, ni inyubako yubatse mu buryo bwiza, isize amarange y'umweru, ndetse hanze ukihagera uhita uhabona icyapa cyanditse mu mabara y'umweru, kikuganisha aho iryo vuriro riherereye, hari hari abantu b'ingeri zose abagabo abagore ndetse n'abana.

Umugore, uri mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi, yari ari kwitabwaho n'umuforomo, w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka nka mirongo ine, cyangwa se mirongo itatu n'itanu, muganga yari yambaye akantu bakoresha kwa muganga bari gusuzuma indwara zigiye zitandukanye, higanjemo iz'umutima, ndetse yari yambaye n'impuzankano yo kwa muganga, iri mw'ibara ry'ubururu. Bose bari bafite akanyamuneza mu maso, ubona ko bishimye.

Inyubako yo kwa muganga yubatse mu buryo bugezweho hasi ifite amatapi y'icyatsi, iriho uturongo tw'umweru, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo ibifite amabara y'icyatsi, iyo nyubako ifite amarangi y'umweru yubatse neza kandi irasa neza.

Inyubako yo kwa muganga yubatse mu mabara agiye atandukanye, isakaje amabati y'ubururu ndetse igiye iteye amarangi agiye atandukanye, hanze hari haparitse imodoka hari abantu bake bake bari kugenda baganira ndetse no ku ruhande aho binjirira hari hari abandi bagabo bambaye amakositimu bari kuganira.

Inyubako yo kwa muganga yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabati y'umweru, isize amarange ry'ubururu, imbere yaho hari jaride ntoya ndetse na parikingi abaje kureba serivise bashyiramo ibinyabiziga byabo ndetse na none, imbere yayo hari idarapo cyangwa se ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako yo kwa muganga nziza yubatse mu buryo bwiza, ifite ubusitani imbere hateyemo igiti, ifite amatara meza yaka akabona, yubatse mu buryo bwa etage, ifite amagorofa abiri iryo joro rifite amabara y'umweru ndetse n'iryo hasi rifite amabara y'umuhondo. Hanze ku ibaraza hahagaze abantu bari kuganira.

Inyuba yo kwa muganga irimo abaganga bagiye batandukanye b'ingeri zose; biganjemo abakiri batoya bambaye impuzankano zo kwa muganga, amataburiya asa umweru. harimo ibikoresho byari bigiye bitandukanye, ibyinshi muri byo byari byiganjemo bifite ibara ry'umweru.

Inyubako yo kwa muganga, irimo ibintu bitandukanye, harimo igitanda cy'abarwayi, agatebe ko kwa mu muganga muganga yicaraho ndetse n'ibishushanyo bigiye bitandukanye, bifasha umurwayi kureka kwitekerezaho, ahubwo akabireba bigatuma atabasha kwihugiraho mu gihe arwaye.

Ibiro byabo byubatse neza, amabara yaho ateye amabengeza, mbega niba ubonye icyapa kiharanga, wishimira gusoma ibyanditseho, ni ikigo kigaragaza Afurikani senta ofu infegitiyasi dizizi of yumani and animozi.

Mu nyubako yo kwa muganga yubatswe mu buryo bugezweho, igaragara neza, ifite amarangi y'umweru ndetse ifite n'amatara meza atangaje. Iruhande hariho akadobo gateretsemo ururabo rufite amabara y'icyatsi, ndetse inzungi zaho zisize amabara ya gureyi.

Iki cy'ishuri cy'abana b bicagi ryitwa rwanda chardn ttiancademy zifasha abana bakiri bato bakiga bakamenya cyubatse mu buryo bugezweho urabona ko ari ahantu bakifuza ko umwana wawe rwose yakwiga afite aho gukinira ndetse mu muryango harimo umukozi waho umwe wambaye agashati k'umweru.

Ikigo nderabuzima cya Matyazo hari harimo gusohokamo abagore babiri umwe mwambaye ipantaro ndetse undi yambaye ibitenge, ikiranga kuri ibyo bitaro bya Matyazo ni uko icyapa cyaho cyangwa se ikiharanga cyari cyanditse mu nyuguti z'umweru.

Mu nyubako yo kwa muganga hari harimo umurwayi umwe, ku mpande ze yari akikijwe n'imashini nyinshi zigiye zitandukanye zo kwa muganga ndetse yari afite n'igipfuko, yambaye agapfukamunwa mu rwego rwo kwirinda, yari umugabo munini, ufite ibiro byinshi.

Abagore batatu bari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu na mirongo itatu n'itanu bose bambaye impuzanano zisa, imyenda isa ubururu ndetse n'uturindamutwe dusa ubururu bwijimye bose bari bahagaze hamwe mu kigo aho bakorera.

mu cyumba cy'uruganiriro harimo ibikoresho bi bitandukanye ameza meza y'umweru meza y'umukara ndetse n'udutebe two kwicaramo mu gihe abantu bari kuganira harimo imitako igiye itandukanye n'ibiti byizafite amabara y'icyatsi

Mu nyubako yo kwa muganga yubatswe mu buryo bugezweho, harimo ibitanda by'abarwayi ndetse n'ibikoresho bakoresha bari kuvura, biri mu moko agiye atandukanye ni amamashini menshi akoreshwa iyo barimo kuvura, ku gikuta hariyo isaha ibereka igihe ndetse n'ahantu igihe kigeze.

Isange stop center ya Kabutare hari hari abantu hanze benshi bari kuganira, hari higanjemo ab'igitsina gab, bose bafite uruhu rwirabura, hirya yaho gato hari hari inyubako zindi zigiye zitandukanye ndetse n'ubusitani bunini buteyemo ibiti bituma babasha kubona umwuka mwiza wo guhumeka.

Ibitaro byaNnyanza hari icyapa cyanditse mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu bigaragaza aho hantu, ni inyubako zigezweho zubatse mu buryo bwiza, igipangu cyaho kiri mu mara y'umweru ndetse urugi rwaho rukaba rukozwe mu mabara y'ubururu hariho inyuguti ya hashi mu ibara ry'umweru.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho byinshi kandi byiza bigezweho, biri mu mabara y'umutuku, umweru ndetse n'umukara. Harimo intebe muganga akoresha yicayeho, harimo igitanda umurwayi arwariramo, ndetse harimo n'imashini zigiye zitandukanye muganga akoresha ari gukora ubuvuzi bwe, ziri mu mabara y'umweru, ndetse ku ruhande hari na kompiyuta yandikamo imyirondoro y'umurwayi.

Ni heza pe hakurura abantu. Inzu zaho zifite amatara meza, urumuri rwaho ruragukurura, bafite ubusitani bunini bwiza, kandi bwakira abantu benshi. Amarange yo ku nzu zaho, nayo ni meza cyane. Yiganjemo umweru.

Munyubako yo kwa muganga aho bapimishiriza abana ibiro, muganga wambaye agashati k'umweru ufite rw'imibiri yombi n'umusatsi w'umukara yari ari gupima a kandi ibiro gafite rimwe nk'amezi hagati y'atandatu ndetse n'icyenda ari kugapima ibiro byako.

Mu nyubako yo kwa muganga, aho bacururiza imiti cyangwa se ahazwi nko muri farumasi, hari harimo amoko agiye atandukanye y'imiti, avura indwara zose zigiye zitandukanye. Ni inyubako kandi ubona yubatse mu buryo bugezweho, ifite amatara manini, kandi menshi kugira ngo itange urumuri ruhagije.

Mu nyubako yo kwa muganga yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho, irimo icyumba cy'abarwayi ifite amabara y'umweru, amatara meza yaka cyane, ku cyumba hari hariho akapa k'icyatsi kanditseho ko ari icyumba cy'indembe, byanditse mu ibara ry'umweru ku ga cyapa cy'icyatsi.

Mu nyubako yo kwa muganga hari harimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibikinisho by'abana bibafasha mu gihe baje kubavura, byari biri mu mabara agiye atandukanye ku buryo umwana wahagera wese yari kwishimira kuhagera, hari harimo udutebe abantu bicaraho, ibikinisho, ikiri mu ishusho y'akanyamasyo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inyubako igezweho ariko igaragara nanone nk'ishaje, ishinzwe gufasha abantu bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye nkuko ku nyubako byanditseho bibigaragaza. Ni inyubako isize kandi amarangi y'umuhondo, afite n'amadirishya asize amabara y'umweru. Hariho icyapa kigaragaza icyo iyo nyubako ikorerwamo, ko ari ugufasha babigiriye ubugiraneza.

Kwa muganga hari hari inyubako zigiye zitandukanye, zubatse mu amabara agiye atandukanye, zari zubatswe mu mabara ya gray, ndetse n'izindi zumweru, hari hashinze idarapo, ibendera ry'igihugu, rigaragaza igihugu cy'u Rwanda nk'ikimenyetso ko ibyo bitaro byubatse mu Rwanda.

Mu cyumba cyo kwa muganga hari igikoresho muganga akoresha ari kuvura, icyuma akoresha ari gusuzuma, ndetse n'agateleviziyo kamwereka yari gusuzuma umurwayi mu bice by'imbere mu mubiri, ndetse nigitanda umurwayi aryamaho, iyo bari kumukorera isuzuma.

Inyubako yo kwa muganga yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho, ni inyubako yubatswe mu buryo bw'ingerekerane cyangwa se kizwi nka etaje. Imbere yaho ifite ubusitani bunini bugiye burimo amatara, atanga urumuri. Ni nyubako kandi isize amabara meza, ku buryo uyibonye wese avuga ko ari inyubako isa neza.

Inyubako yo kwa muganga isa umweru ndetse n'amadirishya yayo asize amarangi asa umukara, imbere yaho hari icyapa kiharanga cyanditse mu mabara agiye atandukanye icyatsi ndetse n'umuhondo, byanditse ku gipapuro gisa umweru.

Inyubako yo kwa muganga yo mu gihugu cy'u Rwanda igaragaza aho bavurira kanseri. Yubatse mu buryo bugezweho, ifite amadirishya asize amabara y'umweru, ndetse nayo isize ibara ry'umuhondo ryijimye cyane. Imbere yayo hari ubusitani bugari.

ri gutera imibirirwanya udukoko tugiye dutandukanye he harimo ndetse nomubu yari yambaye yikwije kugira ngo yirinde ko iyo miti ishobora kumujyana amaso kugira ngo itamugiraho ingaruka akaba yarwara yari yambaye imyenda y'umweru ndetse na bote yishyizeho n'akarindamuwa cyangwa se agapfukamunwa

Butaro hospital abakozi benshi bahuriye hamwe harimo abazungu ndetse n'abirabura bari mu kigero cya hagati y'imyaka mirongo itatu ndetse na mirongo itanu, bari barangije akazi, nyuma barangije bajya gufata ifoto ku cyapa kigaragaza aho Butaro hospital iherereye.

Kuri farumasi ya Peniel hari icyapa kinini kiri ku nyubako ku buryo uhageze wese ahita ahibwira. Hanze hari hahagaze umuntu wambaye agapira k'umweru ndetse haparitse abamotari bategereje abagenzi. Imbere yaho hari igiti kirekire cy'ururabo cyakuze.

Inyubako yo kwa muganga yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho. Hanze imbere y'aho hari ubusitani bwinshi kandi bwiza bwubatse mu buryo bugezweho, ubona ko na bwo butohagiye bwitawe. Inyuma y'ivuriro kandi hari hari ibigega babikamo amazi kugira ngo birinde isuri

Inyubako yo kwa muganga bakoreramo ubushakashatsi, yubatse mu buryo bwiza bugezweho, isakaje amabati y'umukara isize amarangi y'umweru, hanze kuri iyo nyubako hariho icyapa kigaragaza ikibera muri iyo nyubako, hanze haparitse imodoka y'umukara, ndetse imbere yaho harimo ubusitani bwiza.

Mu nyubako yo kwa muganga yubatswe mu buryo bugezweho, hari harimo igitanda cy'umurwayi, ibikoresho bakoresha bari kuvura, byari biteye amabengeza, byari byiganjemo ibifite amabara y'umweru, igitanda cy'umurwayi cyari gifite amapine ku buryo ushobora kugicunga ukakijyana aho ushaka kumuvurira, ndetse muri iyo nyubako hari hateyemo amarangi y'umweru, ndetse n'amatara meza yaka cyane.

Mu nyubako yo kwa muganga, aho umuntu yakirirwa akiza kwa muganga harimo ibikoresho byo kwa muganga bigiye bitandukanye, harimo intebe umurwayi yicaraho ndetse na muganga, ndetse harimo na mudasobwa muganga akoresha mu gihe ari kwakira umurwayi amubaza uko amerewe.

Inyubako yo kwa muganga, hari n'abaganga bakiri bato, umusore umwe ndetse n'abakobwa babiri, bambaye impuzankano zo kwa muganga, amataburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki dufite ibara ry'ubururu, ryijimye. Imbere yaho hari hari ibikoresho biri mu mabara y'umweru, bakoresha barimo kuvura.

Inyubako yo kwa muganga harimo ibikoresho byinshi by'amoko menshi agiye atandukanye, harimo ibitanda abarwayi barwaraho intebe zo kwa muganga abaganga bicaraho iyo bari mu buvuzi, ndetse n'ibindi byuma bigiye bitandukanye bakoresha mu gihe bari kwita ku murwayi.

Icyumba cyo kubyariramo, umuganga uri hagati y'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, yari amaze gufasha umugore ukiri muto uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu wambaye imyenda isa umweru kubyara, barangije bafata ifoto y'urwibutso nk'umuntu umufashije kugira ngo abashe kubyara neza.

Umukobwa w'umuganga uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri nine na makumyabiri n'umunani, ari ku ivuriro, ari kwita ku murwayi. Yari yambaye impuzankano z'isa umweru, ndetse yambaye n'udupfukamutoki dusa umweru. Yari afite udusuko dutoya tw'umukara, kandi mu maso ye yari afite akanyamuneza.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo ibitanda by'abarwayi bisashe mu mashuka y'ubururu ndetse n'umweru, ku ruhande hagiye hariho utumeza, ni inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ku ruhande hariho n'utubati babikamo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse hagati mu biri buri gitanda hariho amarido agiye abitandukanya.

Kigina Health Center ni ibitaro byubatswe mu buryo bugezweho, ukihagera uhita ubona icyapa kinini cyanditse mu nyuguti nkuru. Hanze ku irembo yari hahagaze umumama uhetse umwana ufite agatambaro k'imbi k'umweru ndetse na mo imbere hari umwanya munini ndetse hari hahagaze n'abandi bantu.

Inyubako yo kwa muganga iri kubakwa itararangira kubakwa neza, yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubatswe mu buryo bugeretse, inyuma yayo hanze hari hari abantu benshi bagaragara ko bari baje kuyisura, bari mu ngeri zigiye zitandukanye, abakuru cyane ndetse n'abandi bo mu nzego zigiye zitandukanye.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo intebe zisa ubururu ndetse n'umukara, ku ruhande hariho akantu ka gatangira abari hirya kuba babona icyo muganga ari kuvura, ni inyubako yubatswe mu buryo bugezweho isize amabara y'umweru ndetse ifite n'amatara yaka kugira ngo umuganga abashe kuvura ari kubona neza.

Inyubako yo kwa muganga yubatse mu buryo bwa etaje igere inshuro eshanu, hanze hari icyapa cyayo kigaragaza iyo nyubako, muri parikingi haparitse imodoka nyinshi z'amoko agiye atandukanye, ndetse n'umusekirite uziyobora kugira ngo azereko aho zigomba guparika, wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Mu nyubako yo kwa muganga, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bakoresha mu buvuzi. Cyari igikoresho kinini, gikozwe mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu busa nk'ubwijimye. Iruhande hari hari akandi kamashini gato gakoreshwa mu buvuzi, ndetse iruhande rwaho iburyo, hari hari icyapa gito cy'ubururu, kitariho ikintu na kimwe.

Mu nyubako yo kwa muganga, irimo ibitanda byinshi by'abarwayi baryama mu gihe babahaye ibitaro, ni igitanda buri cyose gifite inzitiramibu iri mu ibara ry'umweru, ndetse hagati y'igitanda n'ikindi hagiye harimo ibitambaro by'ubururu bibitandukanya kugira ngo buri murwayi wese agire uburenganzira aho aryamye, kandi ni inyubako nanone, irimo amatara abona cyane.

Mu nyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho byiza kandi bigezweho ifite amatara yaka cyane kugira ngo afashe umuganga kuvura neza, hari harimo ibitanda by'abarwayi biriw ibara ry'ubururu ndetse n'amamashini agiye atandukanye akoreshwa n'abaganga mu gihe bari gusuzuma umurwayi, ku ruhande kuri icyo cyuma bakoresha bari kuvura hariho televiziyo ntoya igaragaza uko umuntu ahagaze iyo bari kumusuzuma.

Mu cyumba cyo ku ishuri hari hari kuberamo amahugurwa yo kwereka abanyeshuri uko bagakwiye gukora isuku y'amenyo yabo, umunyeshuri yambaye impuzankano y'ishuri yari ari kwerekerwa na muganga wambaye impuzankano y'itaburiya y'umweru igiye yanditseho amagambo atandukanye mu nyuguti z'ubururu, inyuma yabo hari hahagaze abandi bantu bari kubitegereza bareba ibyo bari gukora.

Umusore mu kigero cy'imyaka mirongo itatu ndetse na mirongo itatu n'itanu ufite uruhu rwirabura, wambaye agapira k'ubururu, yari ari kunywa amazi mu gacupa kadafite ibara, yari afite imisatsi itari myinshi ndetse n'ubwanwa butari bwinshi, yari yambaye agakufi mu ijosi.

Umukobwa uri hagati y'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'itanu, ari muri siporo afite agatambaro ko kwihanaguza ibyunzwe gasa umweru, yari ari kunywa amazi mu gacupa gasa umweru, umufuniko wako usa ubururu, yari afite agasatsi gato ndetse uruhu rwe rwariraburaga.

Umukobwa mutoya ari mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu yari ari ahantu ku mazi ari gukora siporo, yari yambaye akenda ka siporo hasi no hejuru, afite imisatsi miremire igera mu mugongo, yari yazamuye amaboko nk'uri gukora siporo ngororamubiri, zirambura amaboko, ari ahantu ku mazi.

Umuganga w'umugore mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu, ari kuvura umusore wari uri muri siporo wambaye imyenda ya siporo, yiganjemo ibara ry'umweru, muganga yari yambaye umupira w'umukara, ahetse igikapu mu mugongo ndetse yambaye agapfukamunwa.

Umukobwa muto uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu, yari ari gukora siporo, yari yambaye impuzankano za siporo ziri mu ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'inkweto za siporo, yari ari gukora siporo ngororamubiri, ari kugorora amaguru, amaboko ndetse n'ibindi bice byose bigize umubiri, yari ari ahantu iruhande rwe hari amazi, bigaragara ko ari inyanja cyangwa ikiyaga.

Imiti myinshi igiye iri mu mabara agiye atandukanye iri mu ducupa tw'umukara, umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, harimo n'uturiho dufite mu macupa y'umweru ndetse n'ibinini birambitse hasi.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu yo gukora siporo, yambaye imyenda ya siporo y'umukara, yari aryamye hasi ariko akora siporo ngororamubiri, ziganjemo izo kugorora akaguru, ndetse n'amaboko.

Mu nyubako yo kwa muganga aho bafatira ibizamini bigiye bitandukanye, hari harimo intebe ya muganga, intebe y'umurwayi aryamaho mu gihe bari kumufasha, inyuma yaho hari televiziyo ibafasha kureba neza mu gihe bari kumuvura, ndetse ku ruhande hari izindi mashini zigenda zikoreshwa mu kuvura.

Abana bato bari mu kigero cy'imyaka itanu, ndetse na makumyabiri bari bari bahuriye hamwe bari muri siporo, bari bafite umupira wo gukina, batonze umurongo, buri wese afite akanyamuneza mu maso ategereje kugerwaho agakina.

Siporo ni ubuzima, yari ari muri siporo ari kumunyuraho, arangije agezemo hagati yumva icyaka kiramwishe, kubera ko yari yakoze siporo ndende, aricara gato arabanza anywa ku mazi, afata akayaga ubundi akomeza urugendo.

Turi muri siporo turakora amoko menshi ya siporo. Kugorora umubiri, kugorora umugongo, amaguru, amaboko, urabona ko rwose twari twizihiwe, twari twizihiwe.

Gukora siporo zigiye zitandukanye, bari kumukorera massage kugira ngo bamufashe kugorora imitsi, yari yambaye agakabutura k'umukara ndetse n'uri kumukorera siporo nawe yari yambaye imyenda yumukara, imwe mu mpuzankano yaho akorera.

Imiti yo kwa muganga irimo amoko agiye atandukanye irambitse hasi, hari no mu ducupa tw'umukara, umweru, umutuku, ifite udufuniko tw'icyatsi, ndetse n'iri mu gishashi kinini, iri mu gishashi gisa ubururu ndetse n'umweru.

Agakapu gatoya gakozwe mu ibara ry'umweru ndetse gafite imashini y'umukara kari karimo imitijyi itandukanye ikoreshwa mu buvuzi ndetse no muri siporo mu gihe umuntu amaze gukora siporo akaba yagira ikibazo. Ni imiti irimo amoko agiye atandukanye ndetse harimo n'umukasi bakoresha bari gukata ibipfuku bakoresha bari kuvura umuntu wangiritse.

Umugabo ndetse n'umukobwa bari bari muri siporo bari gukora siporo ngororamubiri, umukobwa yari yambaye agasengeri k'ubururu, ndetse n'agakabutura gatoya k'umukara. Yari afite icupa ry'amazi mu ntoki, ndetse n'umusore bari bari kumwe bose bari gukora siporo, bari bafite amacupa y'amazi mu ntoki, bari kwirukanka; inyuma yabo hari imisozi miremire.

Umusore uri mu ikigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na makumyabiri n'umunani, yari ari muri siporo, ageze hagati araruhuka, afata amazi ayimena mu maso kugira ngo agabanye ibyunzwe, yari afite aka komo ku kuboko gasa move, ndetse yari umugabo umusore ufite uruhu rwirabura, wambaye isengeri isa icyatsi kijimye.

Imiti yifashishwa mu ku muntu uri gukora siporo mu gihe yangiritse cyangwa se hari ikindi kibazo yagize, ndetse no kumwongerera imbaraga, yari iri mu moko agiye atandukanye, iyo yari iri mu ducupa turimo mu mabara agiye atandukanye, babatera kugira ngo areke gukomeza kumva ububabare, iri mu mashashi y'ubururu ndetse yanditseho amagambo y'umweru ndetse n'ayandi y'amoko agiye atandukanye.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri na makumyabiri n'itanu, wambaye agasengeri k'umutuku, kariho nimero gatanu gatatu zeru kabiri bari bamufashe, kugira bamufashe kugenda nyuma yo gukora siporo nyinshi zikamutera ibibazo. Yari afashwe n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine, wambaye akajiri k'icyatsi, ndetse n'umupira w'umweru.

Icyapa kigaragaza jendo federation aho bakina imikino igiye itandukanye ndetse ya karate igaragaramo abantu bagabo babiri bambaye impuzankano zabo umwe wambaye umweru ndetse undi wambaye ubururu icyicyapa gikozwe mu mabara y'umweru, umuhondo ndetse n'umukara.

Mu bikoresho bya siporo bigiye bitandukanye. Harimo baro, harimo inkweto ndetse n'agakoresho kagufasha mu gupima niba umutima wawe uri gukora neza niba nta kibazo ufite. Iyo baro yari iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara. N'inkweto yo gukoresha siporo yari iri mu mabara y'umukara n'umutuku.

Umukobwa mutoya uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu ufite uruhu rwirabura yari ari gukora siporo yari yarambuye hasi umusambi ariwo ari gukoreho siporo, iruhande rwe hari hari icupa ry'amazi, yari yambaye imyenda ya siporo agapantaro k'ubururu bwerurutse ndetse n'isengeri y'umweru, yari ari gukora siporo yo kugorora amaboko ndetse n'amaguru.

Igikoresho gikoreshwa kwa muganga, mu gupima umuntu waba wakoze siporo, akaba yagize ikibazo kikaba cyamupima mu magufwa, bakareba ko yaba yangiritse, ndetse kikabasha kumusuzuma ndetse no kumukorera ibizamini, kikaba gifite ibara ry'umweru ndetse n'udukoresho bakoresha, ku ruhande rufite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara.

Mu nyubako ikorerwamo siporo hari harimo imashini zigiye zitandukanye abantu bakoresha bari muri siporo. Muri iyo nyubako harimo icyapa cyanditseho sportscare bigaragaza ko ari ahantu umuntu akorera siporo mu gihe ari kwita ku buzima bwe. Ni imashini nini kandi zikozwe mu buryo bugezweho, buri wese yakwifashisha ari gukora siporo.

Umukobwa ukiri muto, uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri nitanu, yari gukora siporo ngororamubiri. Yari ari kugorora ibice bye bigiye bitandukanye amaguru, amaboko, ndetse n'umugongo. Ni umukobwa ufite uruhu rwirabura ndetse ufite umusatsi mwinshi w'umukara. Yari yambaye impuzankano za siporo, ipantaro ndetse n'agapira byose bisa.

Umusore ifite utwanwa dukeya, afite uruhu rwirabura, ari kunywa amazi mu gacupa kadafite ibara, hejuru hariho akantu gatoya gasa umukara. Afite mu maso akanyamuneza ubona ko ntaki kibazo asa n'ufite.

Umuti wo kwa muganga uri mu gacupa k'umweru ku ruhande handitseho uburyo ukoreshwa ndetse n'uburyo uvuramo buri mu kigero cy'amagarama, cya mililitiro ijana na cumi n'umunani byanditswe mu mabara y'umweru ariko kuri icyo gicupa hariho igipapuro gisa move.

Agakoresho ko kwa muganga kagufasha gukora siporo, cyane cyane iziganjemo kugabanya inda mu buryo bukoroheye, kari gakozwe mu ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi. Ni agakoresho keza gashobora gufasha buri muntu wese.

Ibitaro byitiriwe umwami faisal byari biri kongera kuvugururwa hari harimo abakozi bagiye batandukanye bari gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo imashini, harimo inzego bahagazeho kugira babashe kugera hejuru, bisize amarangi y'umuhondo, umweru ndetse n'ubururu, iruhande y'uwa uri kubaka hari hahagaze abandi bagabo babiri.

Mu nyubako ikorerwamo siporo umusore wo mu kigero cy'imyaka mirongo itatu yari yaje gukora siporo ngororamubiri, yari yambaye imyenda ya siporo, umupira w'umutuku ndetse n'ikabutura y'umukara, ku mpande hariho ibara ry'umutuku. Yari ari kugorora umubiri, amaguru ndetse n'amaboko. Inyuma ye hari hari ibikoresho byifashishwa muri siporo, hari amamashini agiye atandukanye.

Umusore ukiri muto uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu na mirongo itatu, yari ari muri siporo ari kugorora ingingo, yari kugorora ukuguru ndetse n'ukuboko, yari yambaye ikabutura hasi ndetse n'inkweto za siporo hejuru nta kintu na kimwe yari yambaye.

Yari ari muri siporo yicaye hasi, yambaye ekuteri mu matwi z'umweru, yari yambaye n'imyenda ya siporo isa umukara, ari kurambura amaboko n'amaguru. Iruhande rwe yari afite icupa yitwazamo amazi kugira ngo najya ananirwa ajye asoma ku mazi.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ibikoresho bigenda bitandukanye ndetse n'agatanda k'umurwayi byose bifite ibara ry'umweru, hakaba harimo igikoresho banyuzamo umuntu bakamusuzumamo imbere bakaba bareba ko nta kindi kibazo afite.

Igikoresho cyo kwa muganga gifasha abantu bamugaye, bafite ingingo zidakora neza, kakaba kabafasha, kabatoza kugenda cyangwa se bakakicaramo, kakabafasha kugenda. Gakozwe mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku, inyuma hariho akantu gatoya, ushobora kubikamo udukoresho twawe.

Haba hari imiti myinshi wakoresha muri siporo ukagira nk'ikibazo cy'imvune, gutsikira cyangwa se kwikanga kw'imitsi. Ushobora gukoresha bumwe mu miti igiye itandukanye nk'iyo bateraho, iyo basigaho wangiritse cyangwa uri kubabara bigatuma uburibwe bwawe bugabanyuka.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa n'abaganga mu rwego rwo kuvura ndetse n'ibyo bahuguriraho abanyeshuri bakiri batoya bari kwiga ibijyanye n'ubuganga kugira ngo babereke ndetse babasobanurire uko bikorwa iyo bari kuvura, hari akamashini gatoya karimo ibara ry'umutuku ndetse n'umukara nako bakoresha ndetse hari hari n'ikindi kimashini ku ruhande bakoresha bari kuvura.

Mu nyubako yo kwa muganga, harimo abantu bagiye batandukanye, bo mu ngeri zose, ku ruhande hari umukobwa muto, uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu, iruhande rwe hari abayobozi, bagiye batandukanye, bambaye amakositimu ndetse hari n'umurwayi uryamye hasi, bari kuvura.

Imbuto, amazi ndetse na siporo byose ni ingirakamaro, iyo umaze gukora siporo ni byiza ko ufata amazi ndetse n'imbuto kugira ngo ugarure isukari ndetse n'ingufu uba watakaje mu gihe uri muri siporo, ni yo mpamvu rero uyu muganga cyangwa se undi muntu wese ashishikariza umuntu muri siporo gukora ibyo bintu.

Mu cyumba cy'umurwayi bari baje kwivuza, umuganga yari yambaye agashati keza k'umukara yaje kuvura umukobwa utaragaragaraga mu maso neza, bari kumuvura mu ivi, bamushyizeho igitambaro kimufasha kumugabanyiriza uburibwe, yari yambaye agakabutura gatoya gasa umukara.

Umugangakazi uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu ndetse na mirongo itatu yari ari kwa muganga, yari ari gushyiramo ibikoresho akoresha ari kuvura nk'agapfukamunwa, udupfukantoki ndetse yari yambaye n'impuzankano yo kwa muganga, mu ijosi yari afite agakoresho bakoresha iyo bari kuvura ndetse no kwita ku barwayi. Imbere ye hari hateretse mudasobwa ari kuyirebamo.

Hari hari abantu bashinzwe kwita ku mbabare bambaye amajiri y'umutuku ndetse hariho ikirangango cyabo kibagaragaza ko bashinzwe kwita ku bantu, bari bari gufasha umwe mu bagize ikibazo baramutera, uwo muntu yari yambaye agapira k'umuhondo kariho nimero eshatu.

Inyubako yo kwa muganga, harimo ibikoresho muganga akoresha ari kuvura murwayi, harimo igitanda cy'umurwayi gifite amashuka asa ubururu, impande zose hakikijwe ibikoresho bigiye bitandukanye, ndetse n'imashini zose muganga akoresha ari kuvura, ndetse no kwita ku murwayi.

Igikapu cy'umutuku ndetse n'umukara, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye wakwifashisha uri muri siporo, ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye, ku ruhande hari harimo utuntu tugiye dutandukanye, utwo wakwihambiriza utubiswi warya kugirango wongera isukari, ndetse n'imbere hari harimo ibindi bigiye bitandukanye, nk'umukasi, ndetse n'ibindi bikoresho.

Inyubako bakoreramo siporo, umusore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu ndetse na mirongo ine wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ikabutura ya siporo y'umukara n'inkweto za siporo z'umukara, yaje gukora imyitozo ngororamubiri, afite umupira mu ntoki uri mu ibara ry'umutuku wijimye Iruhande rwe hari umuntu uri kumutoza, ndetse muri iyo nyubako harimo ibyuma bigiye bitandukanye bikoreshwa muri siporo.

Turi muri siporo tugeze hagati kubera gukora siporo nyinshi ngororamubiri tugeze hagati dufata ikiruhuko gatoya kugira ngo tubanze tunywe kumazi, tubanze turuhuke ndetse dufate n'akuka gahagije kugira ngo dukomeze urugendo rwacu rwo gukora siporo.

Siporo ni ingirakamaro, ni yo mpamvu iyo urangije kuyikora bagushishikariza gufata imbuto n'imboga kugira ngo wongere amavitamini mu mubiri, uyu rero yari ari muri siporo, ku ruhanderwe hari imbuto zigiye zitandukanye, imineke, pome amaworange yari bufate kugira ngo yongere intungamubiri mu mubiri we.

Mu cyumba abantu bakoreramo siporo hari harimo umusore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu na mirongo itatu n'itanu wari uri gukora siporo zigiye zitandukanye, yari umusore ukurikije uko yagaragaraga ufite umubiri ukomeye, iruhande rwe hari hari umuntu uri kumufasha kugira ngo izo siporo zigende neza w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu ufite uruhu rw'abazungu.

Inyubako yo kwa muganga yubatswe mu buryo bugezweho hari harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga, kandi nabyo bikozwe mu buryo bugezwe hari harimo igikoresho bakoresha basuzuma umuntu mu gice k'imbere bamunyuzamo agafatwa n'amakamera akagaragaza uko umubiri uhagaze mo imbere, ni igikoresho cyari kiri mu ibara ry'umweru.

Mu nyubako mberabyombi hari habayemo amahugurwa y'ukuntu wakita ku muntu wagize ikibazo muhuriye mu nzira, hari hari abasore n'inkumi umwe bari bamurambitse ku gitanda kugira ngo bamufatireho urugero, abasore bane bari bari kubereka uko ushobora kumufasha mu gihe yaba ari muri siporo agahura n'ikibazo akaba yagwa hasi cyangwa se agasa nk'ubura umwuka.

Imiti iri mu moko agiye atandukanye yifashishwa muri siporo. Hari ibinini, hari imiti itari ibinini, amavuta basigaho, bandi bahambiriza uwavunitse se ndetse n'imikasi bakoresha iyo bari gukata. Iri mu moko agiye atandukanye ndetse ifubitse mu bifuniko bigiye bitandukanye.

Inkweto nini izamuye iri mu bwoko bw'amabuci cyangwa se bote, ijya ikoreshwa n'abantu bagiye bari mu nshingano zitandukanye cyane cyane abubatsi ndetse n'abakora ingendo ziri mu mihanda igoranye kugendamo, zikaba zibafasha kugenda neza badahuye n'ikibazo mu birenge cyaba ari icyo kunanirwa cyangwa kuba zapfumuka mu buryo bworoshye.

Mu nyubako yo kwa muganga hari harimo umusore ndetse n'umukobwa bari kwitananaho, bari bagize ikibazo k'imvune mu gihe bari bari muri siporo umukobwa ndetse n'umusore bose bari bambaye impuzankano umuntu akoresha ari muri siporo imyenda y'ibara ry'umukara, yari ari kumufasha kumuzirika ku kuguru kugira ngo igufwa ribanze risubire mu murongo kubera ko ryari ryangiritse.

Imiti gakondo igiye irimo amoko agiye atandukanye, bari bayitandukanyije buri yose bayishyize ukwayo, kuko iba ifite akamaro ko kuvura mu buryo bugiye butandukanye. Bari bagiye kuyisekura ndetse no kuyitunganya, kugira ngo ibashe gukoreshwa mu buvuzi.

Umuti ukoreshwa mu kuvura uri mu gacupa k'umweru, hariho icyapa kigaragaza uko uwo muti ukora ndetse n'uko ukoreshwa byanditse mu nyuguti z'ubururu z'umweru ndetse byanditse mu ibara ry'ubururu. Ni umuti ushushanyijeho ikirango cy'umubu nkaho uvura Malariya.

Imiti gakondo igiye ikozwe mu buryo bugiye butandukanye iri mu bikakarito ndetse n'amacupa agiye atandukanye, ari mu bikato by'umuhondo, umweru, ubururu, ndetse n'icyatsi, amagambo abiranga agiye yanyanditse mu nyuguti nkuru kandi yose agaragara, ndetse n'uburyo akoreshwamo.

Imiti gakondo iri mu mabara agiye atandukanye, iri mu dusorori tw'ibara rimwe twose dusa, harimo iy'ijimye cyane, ifite amabara agiye atandukanye, umuhondo n'umweru ndetse n'andi mabara n'icyatsi, uduti ku ruhande tugaragaza dufite amababi y'icyatsi.

Isoko ry'imbuto ndetse n'imboga hari haririmo abantu benshi nk'ibisanzwe mu nyubako isakaye ariko ngari harimo abantu bagiye batandukanye, umugabo wambaye ishati y'umweru uri mu gihe cy'imyaka mirongo ine na mirongo itandatu nawe yari umwe mubari gucuruza muri iryo soko, imbere ye hari hari imbuto zifite amabara y'icyatsi ndetse n'utundi tumvilope ndetse n'uducupa tugiye turimo ibyo acuruza.

Imiti gakondo iri mu mashusho agiye atandukanye, umwe uri mu ibabi ry'icyatsi cyijimye cyane, undi uri mu tuntu tumeze nk'utubuto, ndetse ikindi gifite amababi y'icyatsi cyererutse, andi akagira amababi ariko afiteho n'uturabo tw'umweru.

Imiti gakondo iri mu macupa agiye atandukanye, iri mu icupa rifite imifuniko y'umukara ndetse n'irifite umufuniko w'umweru. Ni imiti iri mu mabara agiye atandukanye ikoreshwa mu buvuzi gakondo bavura indwara zigiye zitandukanye. Iruhande rwaho hari hari utundi tuntu natwo bakoresha mu buvuzi.

Icyapa kigaragaza amabwiriza ndetse n'amahame umuntu agomba gukurikiza kugira ngo babashe kumuha uburenganzira bwo gucuruza imiti gakondo, n'ikigega kibishinzwe muri Afurika, cyari kiri mu mabara y'umuhondo ndetse ku mpande hari hashushanyijeho ibintu bigiye bitandukanye bigaragaza icyo bakora, n'imiti gakondo igera iri mu mabara atandukanye.

Umuti gakondo ukozwe mu gikakarubamba gifite ibara ry'icyatsi, ku ruhande hariho utuntu tw'uduhwa ndetse uwo muti wari mu gacupa k'umweru, ariko kubera ko wari ukozwe mu giti gakondo wasaga icyatsi, wari uteretse ahantu unapfundikiye neza.

Ubwoko bwishi bw'imiti igiye itandukanye bwa gakondo, imyinshi iba yiganjemo amababi y'icyatsi. Hari iba ifite utuboto mo imbere harimo utundi tuntu, cyangwa se ukabona hariho n'amahwa ku bibabi byayo, gusa yose iyo bayihurije hamwe, ivamo imiti gakondo.

Umuti gakondo ufite ibara ry'i ryatsi ufite ibibabi binini ku kibabi kimwe ugasanga hariho ibice by'ibibabi byinshi bigiye bitandukanya, ni umuti uvura indwara zigiye zitandukanye kandi ukaba ukoreshwa mu buvuzi bugezweho ndetse no mu buvuzi gakondo, aho mu buvuzi bugezweho bawusya bakaba bawukoramo imiti myinshi igiye itandukanye.

Ibimera by'amoko agiye atandukanye bakoramo imiti, bigiye bitandukanye, bifite ishusho itandukanye ku giti cya mbere hariho igikakarubamba, ahandi hariho indabo byose bihuriye ko bifite ibara ry'icyatsi kandi byose bikiri mu murima biteye.

Umuti gakondo ukuze uri mu kigero kimeze nk'ururabo, cyangwa se inyanabarasanya; yari ifite uturabo tw'umuhondo ndetse n'umweru, ndetse amababi yayo yasa icyatsi kijimye cyane. Cyari igiti gikuze, ubona ko kimaze gukura, cyasarurwa.

Imiti gakondo iri mu mabara atandukanye bari bayifashe bayivanga n'amazi yari ifite amababi y'icyatsi yijimye cyane ndetse indi yari ifite utubabi duto cyane, yose bari bayishyize mu turahure bavangamo amazi batereka kuruhande kugira ngo ibanze ikore babone kuyinywa.

Umuti uri mu gikarito cy'umweru n'umutuku ufite amagarama magana atanu ku mpande zombi hagiye handitseho ibisobanuro by'uko uwo muti ukora ndetse n'uko ukoreshwa byanditswe mu ibara ry'umukara kandi hakaba hariho n'ikimenyetso cy'ahantu wakorewe.

Umuti gakondo uteye, uri mu murima, ugaragara nk'aho ari gaperi yeze isa umuhondo, cyari igiti kinini gifite amababi y'icyatsi yijimye, hejuru yayo mababi hari hariho utugaperi dutoya kandi twinshi, dusa umuhondo twahiye tweza.

Imiti gakondo iri mu murima igiteye ifite amababi y'icyatsi itari miremire iboneye irera hasi, idakuze cyane no ku mpande za yo hagiye hateye indi miti igiye itandukanye, ariko yose ihureye k'uko ifite ibara ry'icyatsi.

Ikibabi kinini, gifite ibihande umunani, kikiri mu murima, hakurya yaho hateyeho ibindi ndetse nacyo ubwacyo ku mpande zacyo hagiye hariho ibindi bibabi bicyegereye, umuti gakondo ukoreshwa mu kuvura ibintu bigiye bitandukanye.

Imiti yo kwa muganga ifite ibara ry'icyatsi kijimye cyane, yari irambitse hasi yatakaye yari yavuye mu kantu yari ibitsemo kadapfundikiye yari yaguye hasi yanyanyagiye, iyo miti yari myinshi.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu n'itanu na mirongo irindwi uri mu murima we, ari gusarura imbuto yateye zigiye zitandukanye, yari yambaye umupira usa gureyi, ndetse ku maboko hari hariho ibara ry'umukara ndetse no ku ijosi na ho hari hariho akantu k'umukara, yari afite akanyamuneza mu maso.

Imiti gakondo, ikozwe mu muti wa gikakarubamba kiba gifite amababi y'icyatsi, ku mpande yaho hari utuntu dutoya tw'uduhu, impande yatwo hari hateretse agakombe karimo uburoso, bujya gusa umukara ndetse na shokora, impande yaho hari hateretse indi mitako igiye itandukanye.

Imiti gakondo ikozwe mu buki ndetse bwavuye mu nzuki buri mu macupa agiye atandukanye, hari mu ducupa dua umweru ku muhanda hariho ibyapa biranga akamaro kayo byanditswe mu nyuguti z'umutuku ndetse n'iz'umuhondo, ku ruhande hariho irindi cupa rinini naryo ririmo ubuki, hariho n'indabo imbere yazo.

Imiti gakondo igiye ikozwe mu bintu bigiye bitandukanye, ariko imyinshi yiganjemo mu ikozwe mu mababi y'icyayi ni icyayi kiba kiri mu mabara atandukanye bafunika mu dukarito tugiye dutandukanye iri mu icyatsi kijimye, mu bururu cyangwa se n'irindi papo n'irindi bara ry'ikijuju, yose ikaba ikoreshwa mu buvuzi gakondo kandi ikaba ifasha umubiri gukora neza.

Imiti gakondo igiye iri mu mabara agiye atandukanye, ifite amababi y'icyatsi mu mirima aho iba ihinze bakoresha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, cyangwa se ibibabi byayo biri hasi bisa nk'ibyumye na byo bikoreshwa mu bundi buryo bwo kuvura.

Umuti ukozwe mu buryo bugezweho, omofegene uvura indwara zigiye zitandukanye. Ni umuti ufite ibara ry'umweru, uba ufunze mu gikari cy'umweru, amagambo awugaragaza ndetse agaragaza n'uko ukora akaba yanditswe mu nyuguti nkuru ziri mu ibara ry'icyatsi.

Imiti myinshi, ni imiti gakondo ifite amababi y'icyatsi agiye atandukanye ariko yegeranye, igiti kinini gishishe ndetse kikiri mu murima kigitoshye, gihinze ahantu hagari ubona ko rwose giteye amabengeza wakishimira kukireba.

Umuti gakondo ufite ikibabi cy'icyatsi gitohagiye cyane hari haguye imvura cy'igitose kiriho amazi, uwo muti ukaba wifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye, babanza bakawusekura bakawusya ugahinduka ifu, noneho bakabona kuwukoresha mu buvuzi bakawuha abarwayi.

Umuti gakondo, ufite amababi agiye atandukanye, usa icyatsi cyijimye cyane ibibabi bitoshye, ndetse biri mu murima, bikaba bitari byakomera ariko, bikaba bifite amababi y'icyatsi meza cyane.

Imiti gakondo iri mu gacupa gasa umweru, amagambo ariho agaragaza uko ikora, uko ikoreshwa n'ibiyikubiyemo, yanditse mu magambo y'icyatsi, icyatsi cyerurutse ku buryo binogeye ijisho, ku buryo buri wese yashobora kubisoma.

Umuti gakondo ufite amababi y'icyatsi witwa umuravumba, ni umuti ukunze gukoreshwa umuntu ari kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse harimo n'ibicurane ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, ukaba ufite ibibabi by'icyatsi barawutera mu murima.

Imiti gakondo igiteye mu murima, itoshye, myinshi, ifite amababi y'icyatsi ndetse n'uturabo dutoya dusa umweru. Yari myinshi kandi yose ifite amababi y'icyatsi itohagiye. Yari ikiri mu murima.

Aho bacururiza imiti itandukanye, igiye itandukanye, ikozwe mu ibintu bitandukanye, imiti gakondo, iri mu mabara agiye atandukanye, ivura indwara zitandukanye, uyicuruza yambaye impuzankano isa umweru ndetse n'umwungiriza we umwunamye inyuma wambaye umupira w'umuhondo.

Umuti gakondo ufite igiti kinini hariho amababi yacyo y'icyatsi ashize cyangwa se ibyo bakunze kwita umuravumba ni igiti kinini kandi kigiye kivura indwara zigiye zitandukanye ndetse n'impande zacyo gikikijwe n'ibindi biti nabyo bigiye bifite amababi y'icyatsi.

Imiti gakondo iri mu macupa agiye atandukanye, iri mu ducupa dusa umweru ifite udufuniko tw'icyatsi, mu ducupa twijimye ifite udufuniko tw'umweru, ndetse n'indi igiye iri mu ducupa tugiye dutandukanye, yose ifite akamaro kagiye gatandukanye, gakubiyemo kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo igiye iri mu macupa agiye atandukanye,, umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu ndetse na mirongo ine yari ari kuyicuruza, inyuma ye hari hari undi mugore wambaye impuzankano isa umweru wambaye amagambo yanditseho yandikishije ibara ry'umukara ndetse n'umugabo wari uri kuyigura amuhagaze imbere.

Ibinini by'umweru bifite ishusho y'uruziga birebire, ndetse birambitse ahantu hasi ku kibabi gisa icyatsi, ikibabi cyijimye cyane byari ibinini byinshi kandi bisa nk'ibitondetse ku murongo byose hamwe byari bifite ibara ry'umweru.

Imiti gakondo igiye, iri mu mabarage atandukanye isa umutuku, isa ikigina, isa shokora, ndetse ku ruhande rwayo hari hari akameza n'umuzani ubafasha gupima ibiro ndetse n'uburemere bwabyo, yari iri mu tuntu tujya gusa umukara.

Imiti gakondo ikiri mu murima itari yakura, ifite amababi y'icyatsi, iteye mu tudobo dusa umutuku, ifite amababi y'icyatsi kijimye nyinshi kandi yose urabona iratoshye iracyari gukura, inyuma yaho hari igiti cy'igikarubamba nacyo gikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Imiti gakondo ikozwe mu bintu bigiye bitandukanye ifunze mu ducupa tugiye dutandukanye mu tw'umweruru, mu tw'icyatsi ndetse n'icyatsi kijimye, yari iteretse ku kabati bari kuyigurisha, iruhande rwayo hari hahagaze umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri ndetse n'iburyo bwaho hari hari umusore uri gutambuka ari kugenda.

Umuti gakondo uri mu gacupa k'umweru ndetse ibirango bigaragaza byari byanditse mu ibara ry'icyatsi kibona cyane ku buryo umuntu wese wari kwishimira gusoma ibyanditseho yabibonaga mu buryo bworoshye bitamugoye.

Imiti gakondo iri mu macupa agiye atandukanye iri mu gacupa k'icyatsi gafite umufuniko w'umweru, iri mu gacupa ka papo gafite agafuniko k'umweru ndetse n'indigeri mu macupa agiye atandukanye ifite agacupa k'ubururu amagambo ariho ayigaragaza yanditse mu'inyuguti z'umweru.

Imiti gakondo iri mu mabara agiye atandukanye, amabara y'icyatsi ay'umweru n'umuhondo ndetse ku ruhande rwayo hari ibinini byari birambitse hasi byatakaye, impande zayo nanone hari uducupa tugiye turimo imiti igiye itandukanye.

Umiti uri mu icupa ry'umutuku, inyuma y'aho handitseho amagambo ari mu nyuguti z'umweru agaragaza uko akora ndetse n'icyo ufasha umubiri, ni umuti ugaragaza ko wongera imbaraga mu gihe zabaye nkeya nyuma ya siporo cyangwa se nyuma y'ubundi burwayi bugiye butandukanye.

Ni bwo bubiri bw'imiti gakondo buvura indwara zigiye zitandukanye z'uruhu, ubwoko bwa mbere bwari mu gacupa gasa umweru ndetse n'icyatsi, ubwoko bwa kabiri bwari buri mu gacupa k'umweru ndetse n'umuhondo, iyo miti yose ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye z'uruhu.

Imiti gakondo iri mu mabara agiye atandukanye, iri mu mabara y'umuhondo, umutuku, agasorori ndetse n'agahini, bisa umweru bari bari gushyiraho bagasekuriramo, iri mu mabara y'icyatsi tumeze nk'utubabi, ndetse n'indi igiye imeze amababi menshi; ku ruhande hari hari utundi tuntu tumeze nk'utuvave cyangwa se amasekuru bakoresha.

Umuti gakondo uzwi nka tangawizi, ni umuti bakoresha mu buvuzi bugiye butandukanye, cyangwa se ukaba wawuteka mu cyayi kugira ngo wongere uburyohe bwacyo, ndetse n'impumuro yabwo yacyo nziza, ni umuti uvura ibintu bigiye bitandukanye, indwara zigiye zitandukanye, ndetse ukaba ufasha uwawukoresheje mu kwirinda nanone indwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo ijya ivura indwara zigiye zitandukanye, yari tangawizi ndetse n'indimu. Yari yafashe amazi ayavanga n'indimu, biri mu gakombe k'umweru ndetse n'agasahani gato k'umweru, yari yarambitseho izindi ndimu, iruhande rwaho hari hari indi tangawizi na yo agiye gushyiramo.

Imiti gakondo ikozwe mu bintu bigiye bitandukanye, ifite akamaro ko kuvura, ndetse no gukiza indwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, ikozwe mu bintu bigiye bitandukanye, niyo mpamvu bayifunga no mu ducupa tugiye dutandukanye, imyinshi yiganjemo iri mu ducupa tw'umweru, inyuma hagiye handitseho amagambo agaragaza uko ikora, icyo ivura ndetse n'icyo yongera ku mubiri w'umuntu.

Imiti gakondo iri mu mabara atandukanye, yose iri mu dusorori dufite ibara rimwe. Hari isa umutuku, umuhondo, ubururu n'umweru, ikigina ndetse na shokora. Yose yari iri hamwe, mu tuntu tw'udusorori tugiye dusa, bagiye kuyikoresha mu kuvura abantu indwara zigiye zitandukanye.